Umusaza wambaye ikoti ry'umukara n'ingofero y'umweru usa nk'ugeze mu zabukuru, wicaye ku ntebe ya pulastike, ku mpande yiwe hahagaze umuforomo wambaye imyenda y'ubururu yabugenewe y'akazi, witandiye n'akenda k'umweru, aho ari kumupima akoresheje imashini y'umweru, ipima uko umutima utera kugira amenye ubuzima bw'umusaza uko bumeze, ku ruhande bakaba bakikijwe n'abandi bantu bagiye batandukanye b'abaforomo na bo bambaye nk'uwo muganga uri kumupima.

Umukobwa wambaye agapira k'umuhondo wicaye ku ntebe z'icyuma, wateretse akaboko ku meza aho ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa, aho ari kumupima umutima wiwe uko utera kugira ngo babashe kumugira inama z'ubuzima bwiwe.

Ibicupa binini by'ubururu, aho hasi no hejuru byayo bifite ibara ry'umukara, ku ruhande rwawo bikaba bifite nk'imashini ifasha mu kongera no kugabanya umwuka bitanga, aho ibyo bimashini bigiye bifite amatiyo agiye abicometseho, mu gihe ibyo bicupa bifashwa mu guhereka umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi, bikamuhereza umwuka ahumeka.

Abana batandatu harimo abahungu babiri n'abakobwa bane, aho abakobwa bambaye amajipo abahungu bakaba bambaye amakabutura, bakaba bafite ibikombe bari kuvoma amazi ku kigega cy'umukara, aho bari kugaragara bishimye bari kunywa ayo mazi bari kuvoma, kugira ngo bakomeze kwiyitaho.

Umugabo uri ku ivomero rusange, uri kumwenyura wicaye hejuru y'ibido yaje afite aje kuvoma, aho yerekana y'uko anejejwe n'aho aje kuba yarabonye serivisi z'amazi zimwegereye, zituma abasha kubona amazi bimworoheye mu buzima bwa buri munsi.

Abaganga batatu bambaye amataburiya yabugenewe y'ubururu, aho hagati yabo harimo uwambayetabiririya y'umweru yambaye n'amarineti, abo baganga batatu bakaba bambaye udupfukamunwa n'utunozasuku, aho babiri muri bo bafite ibikarito by'umweru bigaragaramo imiti bakoresha bita ku babagana.

Abantu batandukanye bahuriye mu cyumba, aho bari kuganira uko umwana yakitabwaho, aho hari kugaragara umuntu w'umugabo wambaye agapira k'umukara uri kugira inama abantu bamukikije, aho harimo abagabo batatu n'umukobwa umwe, aho bamuhanze amaso, imbere yabo bateretse amacupa y'amazi bisa nk'aho bari mu nama, bari kwiga ku kintu runaka.

Uwo muganga wambaye itaburiya y'umweru, aho imbere yiwe hicaye umubyeyi uri kumwe n'umwana we, aho uwo muganga uri kumukora ku matamo ufite n'ikaramu mu ntoki, akaba afite mu kindi kiganza kayi ari kumubaza ukuntu agiye amerewe kugira ngo abashe kumenya ukuntu yamwitaho akanamuvura, aho ku ruhande rwabo hari n'abandi bagore babiri bateze igitenge.

Umugabo wambaye imyenda itukura wambaye n'akagofero k'umweru mu mutwe, usa nk'ushaje, aho ari kumwe n'undi muganga wambaye imyenda yabugenewe, aho yambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, inyuma yabo hakaba hari akandi kana gatoya k'agakobwa kambaye ishati y'ubururu n'agapantaro k'umukara, aho muganga ari kwita kuri uwo musaza amubaza ibintu bigiye bitandukanye, kugira amenye uko yamufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abana bane bateze intoki aho harimo babiri b'abakobwa na babiri b'abahungu, aho bateze intoki bari gukarabwa n'umugabo wambaye umupira w'ubururu ufite igikombe kirimo amazi uri kubasukira ku ntoki bagakaraba munsi yaho hateretse ibase y'umweru iri kumanukiramo amazi bari gukoresha bakaraba.

Abagabo bagiye batandukanye bambaye amakoti, barimo n'abambaye udupira, n'abagiye bambaye amashati ,abo bicaye ku meza y'uruziga, bakaba bicaye ku ntebe za pulastiki z'umweru, aho bakikije ameza ,aho bari kuganira ku nsanganyamatsiko runaka iganira ku bijyanye n'ubuzima.

Itangazo ryasohowe na minisitiri w'ubuzima Sabin Nsanzimana, aho ari gutangaza kanseri nshyashya yaje mu Rwanda, aho habonetse abantu maganatandatu bashyashya babonetse barwaye iyo kanseri, hakaba hari n'abapfuye maganatandatu, aho iyo ndwara ya kanseri bagomba kwiyirwanya.

Umugore wambaye umupira w'umweru, aho akikiye umwana we wambaye agapira ka orange, aho bari kugaburirwa n'umugabo wambaye agapira ka orange n'amarineti, aho uwo mugabo asa nk'ufite isahani uri kugaburira uwo mwana kugira ngo akomeze kwita ku buzima bw'iwe bw'imirire abashe no gushisha.

Umugore wambaye imyenda y'umukara imbere y'iwe hariho ameza manini, aho yicaranye n'abandi bantu bagiye batandukanye biganjemo abagabo n'abagore, aho agaragara afite indangururamajwi mu ntoki aho asa nk'uri gusangiza igitekerezo k'iwe ku bijyanye n'ukuntu bakwita ku buzima bw'abantu muri rusange.

Abana babiri aho hari umwe ufite igikombe mu ntoki gusukira amazi undi ari gukaraba uwo wundi akaba ari kwishima, bose bakaba bambaye udushati tw'umutuku, aho munsi hari amagambo yandikijwe mu ibara ry'umweru, aho avuga ukuntu bakwiye kwita ku bana babakorera isuku, banabakarabya n'intoki.

Abana batandukanye, harimo abahungu n'abakobwa, bari mu kigero kimwe cy'imyaka, bambaye amashati y'umweru n'amakabutura y'ubururu, aho bari kumwe n'umwigisha wabo wambaye amarinete, aho bazamuye amaboko yabo bari kwerekana impapuro, bagaragaza y'uko bishimiye serivisi z'ubuzima bahabwa.

Umubyeyi uteze igitenge akaba yambaye n'igitenge gitukura, aho yajyanye umwana we ku ivuriro, akaba amukikiye ku bibero byiwe, aho ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya yabugenewe y'umweru, aho uwo muganga ari gusa nk'uwita ku mwana, bakaba bari mu kigo nderabuzima.

Umubyeyi wicaye ku ntebe ya purastike ucigatiye umwana mutoya w'uruhinja, aho yicaranye n'abandi bagore bicaye ku ntebe za purasitike hari undi uhagaze wambaye agakanzu k'ubururu, akaba ari kwakira uwo mubyeyi kugira ngo yite ku mwana we azanye ku kigo nderabuzima.

Umwana w'umukobwa uteze intoki ku ivomero rusange, aho hari kuvamo amazi ari kuyanywa akoresheje ibiganza bibiri, aho ku ruhande hateretseho intebe ya palasitiki y'ubururu, inyuma yiwe hakaba hari n'abandi bantu bategereje kuba bakoresha iryo vomero rusange.

Umwana ufite ijerekani y'umuhondo wagiye ku mugezi, aho yacuritse iyo jerekani mu mazi akaba ari kuvoma amazi y'uwo mugezi, aho uwo mwana ari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu na cumi n'ibiri, aho yambaye imyenda y'umuhondo akaba akikijwe n'ibihuru bigiye bitandukanye.

Abaganga bagiye batandukanye bambare imyenda yabugenewe mu gihe hateye icyorezo abo bari kwereka umuntu amabwiriza ariko yakwirinda icyorezo akanarinda ikwirakwizwa ryacyo aho abo bagabo bambaye imyenda yabugenewe ibapfutse ku mubiri wose.

Abantu batandukanye bahuriye ku ivomero rusange, aho higanjemo abagabo, abagore n'abana, bakaba baje bitwaje amajerekani n'amabase, amajerekani afite amabara atandukanye n'amabase afite amabara atandukanye kugira ngo bose babashe kuvoma amazi.

Umugabo wambaye amakoti y'umukara mo imbere harimo ishati y'umweru, aho afite indangururamajwi y'umukara akaba imbere yiwe hicaye urubyiruko rugiye rutandukanye rwiganjemo abagabo n'abagore, aho ari kubahereza inama zijyanye n'ukuntu bakomeza kunoza serivisi zo gutangwa ku bigo nderabuzima kugira ngo bikomeze kwita ku buzima bwiza.

Abashinzwe ubuzima bw'abaturage mu gihugu aho bahuriye mu nama, aho bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza, aho imbere yabo ku meza hateretse amazi y'inyange, aho imbere yabo hari umugabo wicaye mu ntebe y'umukara usa nkaho wegereye idirishya, uri kubahereza ibiganiro runaka ku bijyanye no kwita ku buzima bw'abaturage.

Abagore batatu bagiye ku ivomero rusange, aho babiri bambaye ibitenge, umwe wambaye agasengeri k'umweru n'undi wambaye agapira karimo amabara y'icyatsi n'umutuku, aho bari gufasha umwe kumuzamurira amazi ava mu butaka, undi na we wambaye igitenge cy'umutuku ariko wabateza indobo uri kuvoma amazi abandi bari kumufasha kumusukira.

Umuforomokazi wambaye agapfukamunwa n'umupira w'umutuku n'ingofero y'umweru, aho ari kwita ku mwana amuhereza ibinini by'inzoka, aho uwo mwana bizamufasha kutarwara inzoka, aho akikijwe n'abandi bagabo babiri n'undi mugore umwe wambaye ikanzu y'umutuku uhagaze bari mu gikorwa cyo gutanga imiti.

Umugore wicaye ku ntebe wambaye imyenda y'akazi yabugenewe y'abaganga, aho akikijwe n'abagore benshi bagiye bafite n'abana babo, aho ari kubagira inama z'ukuntu bakita ku buzima bw'abana babo, akaba ari n'undi wicaye iruhande rw'iwe ufite ikayi uri kugenda bandikira imyirondoro y'abaje guhabwa izo nama.

Umugabo uhagararanye n'umugore, aho imbere yabo hateretse udukarito tugiye dutandukanye dufite amabara y'ubururu, hariho n'utundi dushusho tugiye dufite amabara y'icyatsi, aho uwo mugabo yambaye agakoti katabonerana, aho umugore yambaye agapira k'icyatsi n'agapantaro k'umukara. Bakaba bari imbere y'inzu y'amatafari.

Umwana w'umuhungu uhagararanye n'akandi kana k'agakobwa gatoya, n'umwana w'umuhungu imbere y'iwe hateretse indobo y'icyatsi, akaba afite n'isabune mu ntoki uri gukaraba intoki, imbere y'iwe hakaba hahagaze akana gafite ibinika y'ubururu, aho gafite amazi muri iyo binika, kari gusukira uwo muhungu kugira ngo abashe kuba yakaraba intoki neza.

Umwana wagiye ku ivomero rusange, wambaye agapira k'umuhondo n'agakabutura ka oranje, aho yagiye ku ivomero rusange yitwaje amabido atatu, abiri akaba ateretse hasi, akaba ari kuvomera muri imwe yahindukiye ari kureba muri kamera, aho ari kumwenyura bisa nkaho yishimiye igikorwa arimo cyo kuvoma amazi.

Umubyeyi ushigatiye umwana w'iwe mu kuboko kw'iwe kw'ibumoso, akaba afite n'amverope ya kaki mu ntoki, aho inyuma y'iwe hagaragara n'abandi ba mama benshi bafite abana babo, bazanye ku kigo nderabuzima kugira ngo, bahabwe serivise z'inkingira z'abana babo, kugira ngo babashe kubarinda indwara zitandukanye.

Hakaba higanjemo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ariho harimo ikimenyetso cy'umubyeyi uteruye umwana, hanyuma ayo magambo akaba ari Umuryango w'Abibumbye wita ku bana, ubwo ukaba ugamije kurengera ubuzima bw'abana, no gutanga ubufasha ku kiremwa muntu n'iterambere ku bana ku isi yose.

Abagore bagiye batandukanye, aho bicaye mu cyumba ari batanu, bakaba bicaye ku ntebe za plastic z'umweru, aho umwe yegamiye ku meza y'imbaho hateretseho impapuro hejuru, aho bari kuganira ku bushakashatsi bwakozwe ku buzima bw'abantu.

Abana batatu babiri b'abakobwa basa nkabasutse, harimo n'umwe w'umuhungu wambaye agashati k'ubururu, imbere yabo bari gukaraba amazi ariko kuva mu itiyo kandi basa n'abishimiye igi gikorwa bari gukora, kuko bari kumwenyura kandi bakaba bari ahantu hisanzuye impande yabo hari ibiti.

Iki cyorezo dushishikarizwa gukaraba amazi meza n'isabune, aho hari umwana uri ku ishuri wambaye uniforume z'umutuku n'umweru, aho ari kuri ka, ari imbere ya kandagira ukarabe, harimo akabase, n'indobo y'umutuku, ari gukaraba intoki, akoresheje amazi meza n'isabune.

Icyumba kigiye gitandukanye kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, aho hagaragaramo abaganga bicaye ku ntebe, bambaye imyenda yabugenewe y'ubururu, aho bari gutera inkingo z'indwara ku bagiye baza babagana, bakaba bambaye udupfukamunwa.

Abantu benshi bagiye batandukanye biganjemo abagabo n'abagore, aho bicaye imbere y'ubusitani, bakaba bambaye amatabuya y'umweru yabugenewe y'abaforomo, aho inyuma yabo hari igipapuro kigaragaza igikorwa barangije gukora, aho bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma yo gufata amahugurwa agiye atandukanye.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kimwe gisize amarangi y'umuhondo, aho abo bantu batandukanye higanjemo abagabo n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe zibajije mu biti, aho ku nkuta z'icyo cyumba hagiye hariho ibipapuro bitandukanye bigiye biri ku nkuta, aho abo bantu bicaye bafite impapuro zigiye zitandukanye bari kuzuza, aho basa nk'abitabiriye inama yiga ku buzima bwabo.

Inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, aho imbere yabo hicaye abagabo bane bambaye amakoti n'abagore batatu bambaye amajipo. Aho inyuma yabo hariho ikirangantego kigaragaza igikorwa bitabiriye kiri mu ibara ry'icyatsi. Aho bantu barigutanga inama zigiye zitandukanye. Bakaba bicaye ku ntebe z'ikigina. Ku mpande zabo hateretse ameza y'umweru agiye ateretseho amacupa y'amazi.

Umugore usa nk nk'uwicaye wambaye agapira k'umweru ukikijwe n'abandi bagore babiri b'abforomo, aho abo bagore bose bambaye udupfukamunwa, uwicaye bakaba bari gukingira, bisa nkaho bari kumukingira indwara runaka, uwo mugore bari gukingira akaba asa n'uri kugira ububabare butandukanye kubera urushinge bari kumutera.

Ubuzima bwo mu cyaro aho amazi ava mu butaka, abana bakunda kujya kuyakiniraho, nk'aho hari abana babiri bambaye imyenda itandukanye, umwe ari umuhungu undi ari umukobwa, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi avuye mu butaka kugira ngo bibafashe kwirinda indwara zitandukanye kugira bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga w'umugabo wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga ariyo itaburiya y'umweru yera, aho ahagaze ari gutera urushinge rw'urukingo umwana wambaye agapira k'ubururu wicaye ku ntebe y'imbaho, aho ku mpande ziwe hari n'abandi benshi bagiye batandukanye higanjemo abagabo n'abagore bategereje guterwa urwo rukingo.

Umugore wambaye igitenge cy'ubururu, ukikiye umwana we wambaye agapira k'umutuku, aho bari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru usutse, aho uwo muganga afite umuti ari guhereza umwana we kugira mwana we akomeze kugira ubuzima buzira umuze, butagira, buri nta makemwa.

Umugabo wambaye imyenda yuubururu aho ari mu kizu kitaruye aho ku gikutaho ifoto ya nyakubahwa perezida wa rmudasobwa zikoreshwa mu kwitabira kw'abantu.

Urubyiruko rutandukanye rwiganjemo abahungu n'abakobwa aho bari ahantu hitaruye hanze, bakaba bateze amaso ikinamico izri gukinwa n'abantu batatu aho harimo abagabo babiri, harimo umwe ufite a mikoro n'undi mugore upfukamye hasi aho bari kwigisha abantu ukuntu ibimenyetso bya Ebola bifata n'ukuntu bayirinda.

Ku ivomero rusange aho amazi aturuka mu butaka, aho abantu batandukanye baza kuvomera amazi, haragaragara umukecuru wambaye agapira k'ubururu, n'ijipo y'umweru wateze agatenge k'umuhondo, uri kuvomera amazi akana kambaye agapira k'umutuku, aho ku ruhande hariho n'abandi baturage, bari kubitegereza uko uwo mubyeyi ari gufasha uwo mwana.

Ababyeyi baba bagomba kwita ku mwana wabo mu gihe kivutse, cyane cyane bakita ku isuku yiwe, aho nk'aho bagiye kumuterura bagomba kuba bambaye udupfukamunwa, bakazajya bibuka kumujyana kumukingiza, ibintu byose bakora bagashiramo isuku kugira ngo birinde kuba bamwanduza indwara zimwe na zimwe zatuma ubuzima bw'umwana bujya mu kaga.

Abana biganjemo abana b'abahungu n'abakobwa bari ku mavomero rusange aho hari robine eshatu, bose bagiye bitwaje indobo z'umuhondo, aho bari kuvoma amazi batatu bari imbere bari kuvoma, n'abandi batatu bari inyuma babategereje ko barangiza.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi isutse aho yambaye ikanzu y'igitenge akaba afite igicupa mu ntoki, aho yagiteze ku isoko ry'amazi, aho ari kuvomamo amazi muri iryo cupa afite kugira ngo ayo mazi abe yayakoresha ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye ikoti ufashe urupapuro mu kuboko kumwe ukundi agiye ufitemo ikaramu uhagararanye n'undi mugabo wambaye ishati y'igitenge kuruhande rwe hicaye umugore wambaye agapira k'ubururu, naho imbere yabo hicaye abantu bagiye batandukanye harimo igitsina gore bagasa nkaho ari kubagira inama zigiye zitandukanye ku myororokere.

Abaforomo bagiye batandukanye higanjemo abagore n'abagabo, aho bari kumwe hamwe bambaye amataburiya yabugenewe y'ubururu, aho hagati yaho harimo umugabo muremure wambaye ikoti ry'ikigina, aho bari kureba muri kamera basa nka bafata ifoto y'urwibutso kugira ngo bishimire nyuma y'amahugurwa bari barangije gufata.

Amagambo yandikishijwe mu ibara ry'ubururu harimo n'ikimenyetso, aho ayo magambo yerekana umuryango w'abibumbye wita ku buzima bw'abaturage, abo bafasha kwita ku buzima bwabo ukabagira inama, ku ndwara zagiye zaduka, uko bazirinda n'uko bazirwanya.

Abana bagiye batandukanye, aho bose bambaye impuzankano y'ishuri bigaho, iyo mpuzankano ikaba igizwe n'ishati n'ikabutura byose by'ubururu, aho imbere yabo hateretse ameza, hejuru y'ameza hakaba hateretseho ijerekani y'ubururu, ifite akarobine bavomeraho amazi, bose bakaba bafite udukombe baje kuvoma amazi.

Urubyiruko rugiye rutandukanye rwiganjemo abakobwa bane n'umugabo umwe, aho bambaye udupira twose dusa tw'ubururu, aho barigufata ifoto y'urwibutso. Abakobwa babiri bafashe ku kameza gakozwe mu mbaho kagiye gafite amagambo yanditseho y'umweru.

Umujyanama w'ubuzima uri kuganiriza umugore n'umugabo, aho bicaye hanze ku ntebe zikozwe mu biti zibaje, aho afite impapuro imbere yiwe, ari kugenda abasobanurira bimwe mu bijyanye n'ubuzima, uko bakita ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu usa nk'usutamye ufite umwana mu ntoki, aho uwo mwana yamuteretse ku munzani upima ibiro akaba ari kumupima ibiro, kugira ngo abashe kumenya ibiro umwana afite, kugira ngo amenye uko abaganga baza kumwitaho no ku buryo bamuhereza indyo yuzuye n'imirire ikwiye.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo abagabo n'abagore, aho bicaye ku meza imbere yabo bateretseho agacupa k'amazi ya Nile, aho kuri ayo meza asa ubururu hakaba hariho n'udupapuro turiho ibibaranga, aho basa nk'abitabiriye inama yiga ku nsanganyamatsiko y'ukuntu bakwita ku buzima bw'abantu, aho bose bahuriye hamwe mu nzu imwe.

Abana bagiye batandukanye higanjemo abahungu n'abakobwa, aho bambaye amashati y'ishuri asa umuhondo, inyuma yabo bakaba hahagaze abantu bakuru, aho bari gusa nk'abafashe ifoto y'urwibutso, nyuma y'uko bari baje kubasura muri porogarame runaka.

Abantu bagiye batandukanye higanjemo abasaza, abakecuru, abahungu, abakobwa n'abana, aho bahuriye imbere y'Ibiro by'Umudugudu bagiye batandukanye, hakaba hariho na tente y'umweru, aho basa nk'abahuriye mu gikorwa cyo kwiga ukuntu bakwiga ku buzima bwabo, ukuntu babubungabunga.

Umugore n'umugabo bagiye kuvomera ku ivomero rusange, bitwaje amajerekani y'umuhondo, bakaba bari kuvomera kuri robine ebyiri zitandukanye, aho bari kumwe n'umugore ushinzwe gutanga ayo mazi, akaba yambaye akajire ka orange, kandi bakaba basa nk'abishimye kubera igikorwa barimo cyo kuvoma amazi mu buryo buboroheye.

Abantu bagiye batandukanye aho harimo ababyeyi bagiye baje bitwaje abana babo bakaba bicaye ku ntebe za pulasitike zigiye zitandukanye aho harimo iz'ubururu n'icyatsi, imbere yabo bakaba hicaye umugabo wambaye itaburiya y'abaganga y'umweru aho yambaye' n'agapfukamunwa ari kujya yita ku barwayi bagira batandukanye.

Abaforomokazi bagiye batandukanye bambaye imyenda yabugenewe y'abaforomo higanjemo itaburiya y'ubururu aho ku ijosi ryabo bagiye bafite udukoresho tugaragaza imyirondoro yabo aho bahagararanye n'abagabo babiri umugabo umwe wambaye tari y'umweru n'undi wambaye ikoti ry'umukara n'amarineti.

Ababyeyi bajyanye abana babo ku ivoma rusange, aho hari umwe wateretse umwana we mu ibase uri kumukarabya, undi akaba ahagaze ari kumwe n'undi mwana we bose bambaye ibitenge bitukura, umubyeyi wundi akaba afite indobo mu ntoki, hakaba hari n'undi mwana wambaye agapira k'ubururu ufite indobo uri kuvoma amazi muri robine.

Umwana wambaye ishati y'ubururu, n'ipantaro y'ikigina, aho imbere yiwe hateretse ameza, hejuru hariho indobo isa umweru ifite n'umufuniko w'ubururu, aho iyo ndobo ifite itiyo icamo amazi, aho uwo mwana asa nk'uri gufungura iyo tiyo, kugira ngo abashe kuba yabona amazi ari muri iyo ndobo,

Urubyiruko rugiye rutandukanye rwiganjemo abagabo n'abagore, aba bo basa n'abambaye imyenda y'imikara n'umweru, aho inyuma yabo hari imodoka ya minibisi, aho basa nk'abafashe kuri seritifika igaragaza yuko ari igikorwa cy'amahugurwa barangije.

Urugiye rutandukanye aho rwambaye imipira y'ubururu bari kumwe n'abapolisi bari imbere aho bari gukora urugendo rwo kwamagana ihohotera rishingiye ku gitsina kugira ngo bagende bashishikariza abantu uburyo baryirinda.

Umugore wambaye agapira k'icyatsi yarengejeho akandi gakoti k'umutuku, aho afite imisatsi yi'mikara akaba ari kureba muri camera aho ari kumwenyura, inyuma y'iwe hakaba hari inzu isize irangi ry'umuhondo, aho asa nk'uwishimye kubera ubuzima bwiza afite.

Urubyiruko rugiye rutandukanye, rwiganjemo abagabo n'abagore, aho bagiye bambaye imyenda itandukanye, aho basa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma y'uko barangije gukora inama runaka, yigaga ku nsanganyamatsiko runaka, kugira ngo babashe kuba bakita ku burwayi bwo mu mutwe n'ukuntu bateza imbere ubuvuzi bw'uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo uri mu nzu usa nk'uwicaye ku gasambi aho yambaye igitenge yagikenyeye akaba yicaye yifashe ku mutwe aho asa nk'uri gutekereza ibintu byinshi asa nk'uwagize ihungabana mu mutwe kandi akaba yaziritswe iminyururu ku maguru.

Imodoka ikoreshwa mu buvuzi, aho iyo modoka mo imbere haba hagiye harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa kwa muganga. Aho iyo modoka igenda inyura ku bantu bagiye batandukanye, ibaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ibavura inabagira inama zigiye zitandukanye.

Urupapuro rw'umweru rugiye rwandikishijweho amagambo y'ibara ririmo icyatsi, ayo magambo akaba ari mu kirimi cy'icyongereza, aho hejuru yaho hariho n'udushami tugiye dushushanyije, aho n'utwo dushami tugiye dushushanyije mu ibara ry'icyatsi.

Umugore wicaye mu cyumba ufite ibisuko yahambiriye ku mutwe wambaye agapira k'ubururu, wafashe ibiganza byiwe yabifashe ku mutwe bisa nkaho afite ibibazo bigiye bitandukanye, ari kwibazaho byerekeranye n'ibibazo byo mu mutwe.

Urubyiruko rugiye rutandukanye higanjemo abahungu benshi n'abakobwa, aho abahungu bagiye bambaye imipira isa y'imikara aho igiye igiye iriho ibimenyetso by'icyo kigo. Aho bicaye ku ntebe z'umutuku z'ibyuma, aho bitabiriye inama runaka iri kwiga uko abantu bakwiye kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umukecuru wegamye kumeza y'imbaho, usutse, wambaye ishapure mu gatuza, wambaye n'agakanzu ka oranje kagiye karimo igitenge, aho inyuma yiwe ku kabati hateretseho ibyo acuruza, harimo za korogate, amavuta n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu ufite agakinisho k'ingwe mu ntoki, aho atezwe amatwi n'umubyeyi wambaye agakanzu na we k'umukara, uri kumureba mu maso ku ruhande rwiwe hateretse indobo iri mu mucanga hateretsemo n'utundi dukinisho tw'abantu, aho ari kumuganiriza ku bijyanye n'ibibazo byo mu mutwe.

Umuganga ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Wambaye ishati y'umukara n'umuhondo, n'ipantaro y'umukara, n'inkweko z'umukara. Aho ahagaze imbere y'ivuriro, aho bakirira abantu baje babagana bafite ibibazo byo mu mutwe. Kugira ngo babafashe kubaganiriza, banabahumurize.

Abana bagiye batandukanye bambaye impuzankano z'ishuri ry'ikigo bigaho, aho iyo mupuzangano irimo ishati y'ubururu aho hagaragara n'abatayambaye ariko abo bana bagasa nk'abishimye bari kumwenyura, nyuma yuko bahawe ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Ikirangantego cy'ibitaro kita ku barwayi bafite ubumuga bwo mu mutwe aho gifite amagambo agiye yandikishijwe amabara atandukanye aho harimo umukara n'icyatsi aho agenda avuga yuko bita ku burwayi bwo mu mutwe.

Umugabo usa nkaho wagize ihungabana yatewe n'ibibazo byinshi ashobora kuba afite aho ari mu nzu inyuma yiwe hakaba hari akabati gateretseho ibitabo bigiye bitandukanye aho umugabo agaragara yafashe ibiganza yipfutse mu maso ashobora kuba ameze nk'uri kurira,

Abantu benshi bagiye batandukanye aho higanjemo abahungu n'abakobwa bambaye udupira tw'ubururu dusa, aho bari kumwe n'undi mugabo muremure w'igikara wambaye ishati y'umweru, ari kumwe n'uwundi mugore w'umushinwa wambaye ikoti, aho bari kureba imbere bose bameze nka bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma y'inama barangije gukora cyangwa amahugurwa barangije gufata.

Umuryango w'abibumbye w'abanyeshuri b'abaforomokazi, biga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho bafite ibibaranga bigizwemo umutwe w'icyatsi, aho hagaragaramo ubwonko bushushanyije mu ibara ry'umukara, hepfo hakaba hariho amagambo yanditse mu kirimi cy'Icyongereza y'umukara.

Urupapuro rugiye rushushanyijeho umutwe w'umuntu aho uwo mutwe ushushanyijwe mu ibara ry'umweru rukaba rukikijwe n'amabara y'icyatsi mo imbere hakaba harimo n'amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi, ayo magambo akaba yanditswe mu rurimi rw'icyongereza aho ruvuga mu kwita umunsi mukuru wo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abantu bahuriye kuri sale benshi, bicaye ku ntebe z'ibyuma, higanjemo abagore, abagabo, n'abana, aho imbere yabo hari umugore ufite mikoro y'umukara ufite n'isakoshi mu ntoki, uri gusa nkaho afite icyo ari kubwira umwana uri imbere yiwe nawe uhagaze, wambaye agapira k'umutuku na kora y'umukara, n'inkweto za oranje.

Umugabo ufite ibibazo byo mu mutwe, aho yambaye umwanda harimo ibishashi akaba agaragara ari mu ngarani, asa nabi agaragaza ibimenyetso byose by'umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe.

Amazu yo kwa muganga iyi isakajwe amabati y'umutuku ikaba isize ibara ry'ubururu aho hagiye hariho akayira k'abanyamaguru hariho n'amadarage bazamukiraho bagiye gushakisha serivisi zo kwa muganga kugira babashe kuba bakira indwara zitandukanye..

Umukecuru uri hanze wambaye igitenge cy'ubururu uri gutekera ku kwi, ku mpande z'iwe hariho umufuniko w'isafuriya ari gutekeramo n'igikombe kirimo amazi gisa ubururu, aho ari gutekera ku nkwi kandi akaba yishimye, aho ari kumwenyura, ku ruhande y'iwe hariho inzu ya rukarakara y'amatafari hepfo yaho hari n'igitoki.

Ababyeyi biganjemo umugabo n'abandi bagore batatu n'umwana, aho bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima ari kubaganiriza ku byerekeye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bumve uko bahagaze, anabagira inama z'ukuntu bakwirinda ibyo bibazo.

Umugore wikoreye igitebo kirimo imboga, aho izo mboga zishobora gukoreshwa mu miti gakondo, aho uwo mukobwa wambaye imyenda, harimo agakoti k'icyatsi, aho ari kumwenyura asa nk'ufite ubuzima buzira umuze, afite n'imitekerereze myiza, aho inyuma yiwe hari inzu y'amategura.

Amagambo menshi agiye atandukanye, yanditswe mu mabara harimo aya orange, ubururu, umukara, aho agenda avuga ku buzima bwo mu mutwe bw'umuntu, uko agomba kugenda kwirinda, uko akwiye kuzajya agenda kwa muganga kwivuza, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze, aho inyuma y'ayo magambo asa umukara.

Igipapuro kerekana ubushakashatsi bwakoze mu Rwanda, aho icyo gipapuro kiriho amafoto y'abazungu, hakaba hariho n'ay'abirabura ariko kikaba kivuga ku bushakashatsi bwakozwe mu mibereho ya buri munsi y'abanyarwanda, aho bareba mu bitekerezo byabo bakareba n'uburyo babayeho mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Umuryango w'Abibumbye Wihogora ushinzwe kumenya uko ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu bumeze, kugira ngo unawiteho, ufite ikirangantego cy'umuhondo, amaboko akikije amagambo yandikishijwe mu cyatsi, aho harimo n'ururimi rw'icyongereza rwandikishijwe mu bururu.

Umugabo ufite igipulasitike mu ntoki kibonerana, aho yasamye asa nk'ugiye kugishyira mu kanwa, icyo gipulasitiki kikaba gifasha kurinda amenyo umwanda ugiye utandukanye, kandi ugafasha n'amenyo kuguma ari ku murongo ntatatane kugira ngo akomeze kuba ari ku murongo.

Umuganga w'amenyo aho yambaye itaburiya yabugenewe y'icyatsi, aho yambaye n'agapfukamunwa n'akanozasuku mu mutwe, aho imbere yiwe haryamye umugabo, akaba ari kumufasha kumuvura indwara z'amenyo akoresheje ibyuma bigiye bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga aho bavurira amenyo, kikaba kigizwe n'intebe itukura n'ibyuma bigiye bitandukanye hakaba ariho n'utubati aho babikamo imiti n'ibikoresho bakoresha mu gihe bari kwita ku murwayi w'amenyo.

Umugabo wasamye uri kwerekana amenyo yose, aho mu biganza byiwe byombi afitemo urudodo rw'umweru, akaba ari kurukoresha agenda anyuza mu menyo hagati na hagati ari gukuramo imyanda, kugira ngo yirinde indwara z'amenyo zikomoka ku mwanda.

Umukobwa wambaye amaherena wicaye, aho bamuteze agatambaro k'icyatsi, akaba ari kumwe n'umuganga ufite utwuma tugiye dutandukanye, akaba ari kumuvura indwara zigiye zitandukanye zo mu menyo kugira abashe kuba yamuvura, akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umuganga uri kwita ku menyo y’umugabo waje umuganga aho uwo mugabo bamurambuyeho agatambaro kumweru, mu gihe bari kumwitaho, aho ari kumwenyurira kugira ngo abashe kuba yabona indwara zitandukanye afite, amenye n’uburyo azitaho mu gihe ari kuzivura.

Umugabo uri kumwe n'umwana we, bari mu nzu aho buri wese afite urudodo rw'umweru, bakaba bambaye n'imipira y'umweru, izo ndodo bakaba bazishize mu menyo kugira ngo berekane ukuntu bita ku buzima bwabo bw'amenyo, n'ukuntu wakuramo iryinyo ry'umwana mu gihe riri kujegera.

Ni umwana uryamye ku gatanda ko kwa muganga, aho akikijwe n'umuganga uri gukoresha utwuma tugiye dutandukanye kugira ngo abashe kuba yareba ibibazo uyu mwana afite mu menyo, abashe no kubona ukuntu yabikemura abanje kumusuzuma

Umugore wicaye mu cyumba cyo kwa muganga aho yicaye ku gatanda k'abarwayi, akaba afite ikirahuri mu ntoki aho ari kureba ukuntu barangije kumutunganyiriza amenyo y'iwe, usa nk'uri kumwenyura asa nk'uwishimiye igikorwa barangije kumukoreraho, akikijwe n'amamashagi atandukanye bakoresheje bamuvura indwara zigiye zitandukanye z'amenyo.

Abaganga babiri aho umwe yambaye ibitaburiya y'umweru undi akaba yambaye imyenda y'abaforomo baho higanjemo agataburiya k'ubururu, aho hagati yabo haryamye umugore baramburiye agatambaro k'icyatsi bari kumwitaho bamuvura indwara zi'igihe zitandukanye zo mu kanwa.

Inzu yo kwa muganga, aho bakiriramo abarwayi bagiye batandukanye. Cyane cyane abarwayi b'amenyo, hakaba harimo intebe umurwayi yicaramo mu gihe bari kumwitaho n'agatebe umurwaza yicaramo. Hakaba hari na mudasobwa muganga akoresha mu gihe ari kumusuzuma.

Umuganga w'amenyo wambaye itaburiya y'umweru n'amarineti, washize ibisubizo by'amenyo yabonye ku kibaho gitanga urumuri kugira abashe kureba iryinyo ry'umurwayi neza, kugira ngo abashe kureba aho ikibazo kiri, abashe no kumenya ukuntu ari buvure iryo ryinyo ry'umurwayi waje umugana.

Umuganga wita ku buzima bw'amenyo, wambaye itaburiya y'umweru uri kumwenyura wicaye ku ntebe isa ubururu, aho ku ruhande hariho agatanda k'aho umurwayi aryama, mu gihe ari kwitabwaho, ku ruhande hariho amamashini akoreshwa mu buvuzi, akaba ari mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo.

Ifoto y'amenyo yifashishwa na muganga kugira ngo abashe kuba yakora ubushakashatsi bugiye butandukanye ku menyo y'uwaba uje umugana, kugira ngo abashe kuba yamenya ikibazo ayo menyo afite, abashe kuba yamenya n'uburyo yakivuramo.

Umugabo w'inzobe wambaye agapira k'icyatsi, utunze intoki ku dukoresho tw'amenyo bakoresha bari gusukura amenyo mu gihe waba urangije kurya, kugira ngo ukuremo umwanda wose waba urimo, kugira ngo bikurinde kugira indwara za hato na hato.

Abanyeshuri bagiye batandukanye higanjemo abahungu n'abakobwa, aho bicaye mu ishuri, bakaba bicaye no ku meza zibaje mu mbaho, bose bakaba bafite imiti y'amenyo kugira bakomeze kwita ku menyo bakora isuku kugira batazarwara indwara ziturutse mu mwanda.

Umukobwa uri gukoresha agakoresho kabugenewe, aho yiteze igitambaro cy'umweru mu mutwe, akaba ari gukoresha agakoresho bakoresha mu gihe bari gukuramo imyanda mu menyo kugira ngo akomeze kwirinda indwara z'amenyo zaturuka ku mwanda.

Abana batandukanye barimo abahungu n'abakobwa bambaye imyenda y'ishuri, bafite udukombe mu ntoki n'uburoso bw'amenyo, aho bari kuborosa amenyo kugira berekane yuko bita ku menyo yabo kandi bita no ku buzima bwabo bwo mu kanwa.

Umugabo w'umusaza ufite imvi wambaye amarinete n'umupira w'ikigina, aho mu ntoki afite utuvuta ari kwisiga, imbere yiwe hakaba hateretseho icyirori, hasi yiwe hakaba hateretseho agakombe gateretsemo uburoso bw'amenyo.

Umugabo uryamye ku gatanda aho akikijwe n'abaganga babiri b'abakobwa bambaye udupfukamunwa n'amatabariya y'umweru aho bari kumwita mu kanwa bakamukorera ubuvuzi bwihuse aho bari gusuzuma indwara zo mu kanwa kugira ngo babashe kubona ukuntu bamuvura.

Mu gihe cy'icyorezo aho abaganga bagiye batandukanye bakoreshaga mu gihe bari gupima indwara za covide, aho babaga bicaye mutente y'umweru abaganga bakaba bicaye ku ntebe za pulasitiki z'umweru, aho imbere habaga hari abantu bari gukoresha ibikoresho bitandukanye bari kubapima niba bafite ubwandu bwa covide.

Umugabo ufite ubwanwa bunini, aho agiye afite agakoresho kabugenewe gakura imyanda mu menyo, aho kaba gafite ibara ry'ubururu, agenda acisha mu menyo hagati, kugira ngo agende akuramo imyanda yaba yasigaye mu menyo, nyuma yo kuyoza.

Imiti igiye iri mu mashusho atandukanye, aho iyo miti igiye ifite amabara atandukanye, aho harimo umuhondo, umweru, umukara, ubururu n'icyatsi, aho iyo miti ifasha mu kwita ku bageze mu za bukuru kugira ngo ibarinde kugira indwara ziganjemo iz'umutima n'iza diyabete.

Umugore wambaye agashati k'ubururu uri mu nzu, aho imbere y'iwe ku meza hateretse ibinini bigiye bitandukanye, bigaragara yuko aribyo agiye gufata kugira ngo bimufashe kugira ubuzima bwiza, akomeza no kwiyitaho kugira ngo yirinde indwara za hato na hato zabasha kumuzahaza.

Umubyeyi w'umumama ufashwe ku rutugu n'umuganga w'umukobwa wambaye imyenda yabugenewe kwa muganga, aho bari kumwenyura baseka bishimiye uko umukobwa yita kuri uwo mubyeyi muri serivisi z'ubuvuzi.

Umuganga wambaye itaburiya yabugenewe y'ubururu y'abaganga, uri kumwe n'umurwayi we w'umusaza wambaye amarinete n'agapira k'ubururu, usa nk'uwicaye ku gatebe k'umukara, aho ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, kugira ngo bimufashe kwirinda indwara, akomeze no kugira ubuzima bwiza.

Umuforomo w'umukobwa aho yambaye imyenda y'ubururu yabugenewe y'abaforomo, imbere y'iwe hakaba hicaye nanone umugabo w'ubwanwa bw'umweru wambaye ishati y'icyatsi, aho uwo mugabo afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki uwo muforomo akaba ari kumuhereza ibinini kugira ngo abashe kubinywa bibashe kumugirira akamaro.

Umubyeyi n'umwana we bari mu kibuga cya basikete, aho uwo mwana w'umukobwa ufite baro mu ntoki usa nk'uri gukina n'umubyeyi we, bari ahantu bisanzuye, bakaba bambaye imyenda ya siporo kandi basa nk'abishimiye igikorwa barimo, aho uwo mwana ari kwita ku mubyeyi we n'umubyeyi kwita ku mwana.

Umubyeyi wicaye mu gatebe k'abarwayi k'umukara, uri kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, wicaye mu ntebe, akaba ari kumwitaho aho afite igikoresho gipima uko umutima utera, uri kumwitaho kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Umusaza wambaye umupira w'umukara ari kumwe n'umwana we wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, umwana we akaba ari kumuhereza imiti, imbere yabo hakaba hateretseho ameza y'umweru ariho mudasobwa y'umusaza n'imiti umwana ari guhereza umusaza n'amazi yo kunywesha, bakaba basa nk'abari iwabo ari bombi bonyine.

Abagore batatu basa nk'abageze mu za bukuru bari hanze, aho umwe muri bo uri hagati afite terefone mu ntoki usa nk'aho bari kwifotoza, yambaye agapira k'umuhondo, uri ku ruhande rw'iburyo akaba yambaye agapira k'ubururu, uri ibumoso akaba yambaye agapira k'umweru.

Umubyeyi w'umumama aho yicaye ku gatapi k'ikigina uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yicaye mu nzu inyuma yiwe hari amatara n'ibyatsi n'intebe zimukikije, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye kugira ngo abashe kuba yakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi wicaye mu gatebe k'icyuma gafite imisego y'umukara, aho yambaye agapira k'umutuku n'amarineti, akaba ateze n'igitambaro cy'umukara mu mutwe, aho afashwe mu ijosi n'umuforomokazi wambaye imyenda yabugenewe y'ubururu, aho bari gusa nk'abaganira amubaza uko yumva amerewe.

Abagore bagiye batandukanye bari mu myaka y'izabukuru, aho bambaye agapira k'ikigina undi yambaye agasengeri k'ubururu, aho bari kumwenyura bari ahantu hisanzuye impande yabo hari ibiti. Bari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Umukecuru ufashwe mu kiganza n'umuforomokazi wambaye imyenda yabigenewe isa icyatsi, aho afite n'agakoresho gapima umutima yiziritse mu ijosi, aho ari kureba mu maso muri uwo mukecuru asa nk'uri kumwenyura, aho ari kumugira inama zigiye zitandukanye, ukuntu yakwita ku buzima bwiwe kugira akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ababyeyi bagiye batandukanye higanjemo aba mama aho bari mu muhanda bari gukora imyitozo ngororamubiri bari kugenda bitonze aho bambaye imipira isa y'icyatsi n'umuryango umwe aho bari kugenda bakora imyitozo igiye itandukanye kugira bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru ugeze mu zabukuru ukenyeye imikenyero, aho ufite umwitero w'umweru ukaba afitemo n'agasengeri k'ubururu, aho afite mikoro y'umutuku, inyuma y'iwe hakaba hari imodoka, akaba ameze nk'uri gutanga ikiganiro ku mbaga nyamwinshi.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru aho bari kureba baganira bamwenyura basa nk'abafite ibyishimo, aho bicaye ku meza, imbere yabo ku meza hakaba hagiye hateretseho amafunguro agiye atandukanye bari kurya bishimye, hariho n'ikirahuri cy'amazi.

Umusaza uri ahantu hanze hasa nk'ahisanzuye, hari ibiti bitanga umuyaga, wambaye agapira k'ubururu n'ikabutura, ufite ibiro ari guterura, uri muri siporo, wambaye amarineti, usa nk'uwishimiye ibintu ari gukora kandi bizamugirira akamaro mu buzima bwiwe bwa buri munsi kuko bizamufasha kurinda indwara za hato na hato, akagira ubuzima buzira umuze.

Umubyeyi ubu ugeze mu za bukuru wishime gukora imyitozo ngororamubiri, aho inyuma y'iwe hari hari inyubako zitandukanye akaba afite ibyuma mu ntoki bisa ubururu, wambaye agakoti ka orange wamwenyuye usa nk'uwishimiye igikorwa ari gukora cy'ingororamubiri.

Abantu bagiye batandukanye higanjemo abagabo n'abagore bicaye mu kiziga munsi y'igiti, aho bicaye ku ntebe z'umweru basa nkaho bari kuganira ku nsanganyamatsiko runaka, kugira ngo babashe kuba bakungurana ibitekerezo, kugira ngo babashe kuba bakivura indwara zigiye zitandukanye, banagira inama z'ukuntu bakita ku bageze mu zabukuru.

Umugabo ugeze mu za bukuru, aho ari gufashwa n'umuganga umwitaho, aho uwo muganga yambaye itaburiya yabugenewe y'abaganga, aho ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo uwo musaza akomeze kugira ubuzima buzira umuze, aho bari mu nzu yo kwa muganga, aha bakaba ariho barimo gukorera iyo myitozo ngororamubiri.

Umuhungu n'umukobwa, aho umuhungu yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, umugore akaba yambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, aho bari gufasha umusaza kwicara ku gitanda, nyuma yuko ageze mu za bukuru kugira ngo babashe kuba bakwita ku buzima bwiwe.

Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima mu Rwanda aho cyasohoye itangazo, ku ruhande rwaho hari ikirangantego cy'u Rwanda na arabisi, aho hepfo yaho hariho ibijyanye n'ukuntu bakirinda agakoko gatera virusi itera sida.

Abaganga bagiye batandukanye bambaye imyenda yabugenewe yo mu cyorezo, aho ibafasha kutandura icyo cyorezo mu buryo bwihuse, aho iyo myenda simweruru, bambaye n'ibirahuri bibarinda, bambaye n'udupfukamunwa, aho bari hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hakaba hari umugore na wambaye agapira ka move n'agapfukamunwa.

Uruhu rw'umuntu rugiye ruriho uduheri tugiye dutandukanye, aho utwo duheri dukomoka ku ndwara z'uruhu kandi izo ndwara z'uruhu ukaba wakoresha igikakarubamba kugira ngo uruvure n'indi miti gakondo ikoreshwa mu buvuzi gakondo, kugira ngo ubashe kuba wakira utwo duheri turi ku ruhu.

Abantu batandukanye higanjemo abakobwa babiri n'abagabo babiri, aho bari gukangurira abantu gukoresha udukingirizo kugira ngo bibarinde indwara zitandukanye ziza mu mibonano mpuzabitsina no kwirinda inda zitateganyijwe ku bangavu.

Uducupa tugiye dutandukanye turimo amabara y'umukara n'umweru n'umutuku aho utwo ducupa dukoreshwa mu gupima indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye, aho utwo ducupa dukoresha bafata ibizamini abantu kugira ngo banamenye uko bifashe mu buzima busanzwe.

Urupapuro rugaragaza umuryango w'abibumbye bafite ubuzima bwiza mu Rwanda aho rusa icyatsi rukaba rufite amagambo yanditswemo imbere yandikishijwe ibara ry'umweru, hakaba arimo n'ibiganza bibiri biri gusuhuzanya ayo magambo akaba avuga yuko abantu beza aba aribo bagomba kuba bafite n'ubuzima bwiza.

Abantu bahuriye muri salle ari benshi bicaye ku ntebe z'umukara, aho imbere hari itorero ry'intore ryiganjemo abakobwa bambaye imishanana y'umweru n'abahungu bakenyeye bambaye udupira tw'ubururu. Aho bari gutaramira abaje muri uwo muhango bababyinira imbyino za Kinyarwanda.

Abantu bagiye batandukanye higanjemo abagore n'abagabo, aho bari mu gisare, imbere yabo hakaba hari ameza y'umweru, aho buri umwe wese afite agakarito k'umukara, aho basa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inama yahuje abantu bagiye batandukanye, higanjemo abagabo n'abagore, aho abagabo bambaye amakoti na karuvati n'amapantaro n'inkweto, aho imbere hicaye abagabo batatu n'abagore babiri, aho umugore umwe ufite mikoro ari gusangiza amagambo ku bitabiriye iyo nama.

Abagabo babiri bambaye amakoti, aho biri kugaragara yuko bari gusuhuzanya, bari guhererekanya ububasha, aho umwe afite urupapuro rw'ihererekanyabubasha, inyuma yabo hakaba hariho igikuta cy'umweru kigiye kiriho ibirangantego bya Leta byandikishijwe n'ibara ry'ubururu.

Ababyeyi batandukanye, bambaye imyenda itandukanye, bari ku kigo nderabuzima, bagiye guhabwa serivise zitandukanye, aho bose bicaye ku kabaraza gasa umukara, bose bari kureba ku ruhande rumwe basa nk'aho hari umuntu bitegereje uri kubahereza ibimenyetso ukuntu bakirinda indwara zigiye zitandukanye kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye biganjemo igitsina cy'abagore, aho bicaye mu ntebe za purasitike z'umweru, aho bahanze amaso umugore wambaye ipantaro y'umweru n'ikoti ry'umukara, aho ari kubaheriza inama zigiye zitandukanye z'ukuntu bakomeza kunoza serivise batanga mu buvuzi.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amakoti y'umukara, aho umwe yicaye ku ntebe y'umweru ya parasitike undi uhagaze, aho imbere yabo handitswe amagambo mu ibara ry'umweru n'ubururu, ashishikariza abantu kwita ku buzima bwabo.

Itangazo rya Ministri w'u Rwanda riburira abantu ku buzima bwabo, aho ryandikishijwe mu mabara y'icyatsi, ku ruhande rwayo hariho ikirangantego cy'u Rwanda, kandi iryo tangazo rikaba rivuga ku bijyanye n'ukuntu abantu bakwiye kwirinda bakanita ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Urupapuro rugiye ruriho udushusho tugiye dutandukanye aho twerekana ukuntu umuntu yakwirinda corona akaba intoki, yitsamura yafashe ku munwa, aho yakwirinda kwegerana n'abandi, urwo rupapuro rukaba rugiye ruriho udushushanyo tugiye dutandukanye turushushanyijeho mu mabara atandukanye hariho n'amagambo agiye ariho ubusobanuro yandikishijwe mu ibara ry'umukara.

Umugabo w'umuzungu ufite igipapuro cy'umweru cyandikishijweho marikeri y'umutuku, aho kivuga ko abantu bose bakwiriye kugenda gufata urukingo rwa Monkey Pox kugira ngo birinde icyorezo, kukirwara no kucyanduza abandi.

Urupapuro rugiye rufite amabara atandukanye harimo icyatsi n'umweru rukaba rufite amagambo agiye yandikishijwe ubururu n'umweru aho ruvuga ku mitekerereze y'umuntu yo mu mutwe rumugira inama runakangurira abantu inama izitabirwa kugira ngo bige uko bakita ku buzima bwo mu mutwe.

Itangazo ryasohowe n'ikinyamakuru aho muri icyo kinyamakuru harimo itangazo ry'umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku buzima, aho muri icyo kinyamakuru harimo ifoto y'umubyeyi uteruye umwana hakaba hari kuvugirwamo ukuntu imiryango yakwirinda kugira imibonano mpuzabitsina idakingiye no gukora imbyaro zateganyijwe kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu bagiye batandukanye aho higanjemo abagabo n'abagore, aho abagabo bambaye amakoti n'amashati agiye atandukanye, abagore nabo bakaba bambaye amakanzu yiganjemo amabara y'umuhondo n'umweru, inyuma yabo hakaba hagiye hariho ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda.

Icyapa gishinze ku muhanda aho kiri imbere y'ivuriro, icyo cyapa kikaba ari icy'ivuriro kikaba cyanditswe mu mabara agiye atandukanye ariho harimo umutuku, icyatsi, kikaba cyanditsweho amagambo agiye atandukanye yerekana serivisi zitangwa n'iryo vuriro.

Igisharagati cy'umweru kigiye kirimo udutanda dutandukanye aho kuri utwo dutanda hagiye haryamyeho abantu batandukanye, higanjemo abahungu babiri aho abahungu babiri basa nk'abaryamye bambaye udupfukamunwa. Bakaba barimo kwitabwaho n'abaforomokazi bambaye imyenda yabugenewe harimo amataburiya n'udupfukamunwa.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya kikizwe n'amabati y'ubururu aho imbere yabo hateye ubusitani aho muri ubwo busitani harimo Idarapo ry'Igihugu, rikaba rifite amadirishya akozwe mu cyuma rikaba risize n'irangi ry'umweru, ariho bafasha kwakirira abarwayi bafite indwara zitandukanye kugira ngo babafashe kubavura.

Inzu yo kwa muganga aho bakirira indembe, ikaba igizwe n'ibirahuri bibonerana, n'ibitanda bigiye bitandukanye bishasheho amashuka, biriho na matera, aho ibyo bitanda byifashishwa mu kuryamishaho abantu baje bafite ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuba bakitabwaho na ba muganga.

Inyubako yo kwa muganga aho isa nk'igeretse kabiri hejuru ya ho hakaba hasakajweho ibirahuri bibonerana aho ihasa nk'aho bari kwinjiramo abaganga bagiye batandukanye bose bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, bigiye bisa aho basa nk'aho bagiye gutanga service y'ubuvuzi ku bitabiriye ibyo bitaro.

Icyumba kirimo utubati tugiye dutandukanye dusize amarangi y'umweru, aho muri utwo tubati hagiye harimo imiti igiye itandukanye ivura indwara zitandukanye, aho iyo miti ikoreshwa n'abarwayi bandikiwe na muganga kugira ngo ibashe kuba yabavura indwara barwaye.

Inzu yo kwa muganga isa nkaho itarimo umuntu ariko hakaba hagaragara ahantu abantu baca, ikaba ifite umuryango umwe, ikaba ifite n'amatara n'amadirishya maremare abonerana, aho urimo imbere ashobora kubona uri inyuma n'uri inyuma akabasha kubona imbere. Mo imbere hakaba hagiye harimo ibikoresho bigiye bitandukanye muganga ashobora gukoresha ari kwita ku murwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kigiye kigizwe n'ibintu bigiye bitandukanye, aho hibandamo igitanda cy'umurwayi aryamaho, intebe y'umurwayi naho yicaraho, hakaba harimo n'izindi ntebe ebyiri umuganga yicaraho, hakaba harimo n'ameza ateretseho mudasobwa n'imashini itanga amazi mu gihe umurwayi yaba ashaka amazi, hakaba hagiye harimo n'ibindi bimashini bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi bita umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga aho gisa nk'aho ari ahantu hakirirwa imbaga nyamwinshi, hakaba ariho nta meza irimo, nta ntebe irimo, hakaba ari ahantu hitaruye harimo imiryango gusa kandi hakaba harimo hagiyemo nta n'amadirishya arimo.

Umuganga w'umugabo wasuye umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu, aho ateze agatambaro k'umukara, aho basa nk'abocaye hanze. Uwo muganga akaba yambaye imyenda y'abaforomo yabugenewe isa icyatsi aho ari kumugira inama zijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, aho kitabiriwe n'abantu bagiye batandukanyemo harimo abagabo n'abagore baje muri serivisi zitandukanye zo kwivuza, aho imbere y'ayo marembo hariho icyapa cyerekana yuko imbere yaho harimo ivuriro, ku ruhande rw'umuhanda hakaba hariho n'umuntu bazanye ku igare.

Icyumba cyo kwa muganga aho kigizwe n'amadirishya abonerana, aho ku gikuta hamanitseho isaha ituma umuntu uri muri icyo cyumba abasha kumenya igihe arimo, hakaba hateretsemo n'ibyuma bigiye bitandukanye, ibyo byuma bikaba bisize amarangi y'umukara, bifasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye.

Umugabo uryamye ku gitanda cy'abarwayi, aho yambaye agapfukamunwa, akaba afitemo n'ibipfuko ku maboko, aho agiye akikijwe n'amamashini ari kugenda amwitaho, amuhereza amaraso amwitaho, kugira ngo akomeze kuba yavurwa akagira ubuzima bwiza.

Inzu yo kwa muganga igiye ifite imiryango itandukanye, aho muri iyo miryango harimo amadirishya atabonerana atuma umuntu atabasha kubonera uri inyuma y'umuryango. Hakaba hagiye harimo n'amadirishya agiye atandukanye, harimo n'ivase riteretsemo indabyo zigiye zitandukanye.

Inzu yo kwa muganga aho bakiriramo abarwayi, hakaba hagizwe n'ibirahuri byinshi bigiye bitandukanye, mo imbere hakaba harimo ibitanda bya kijyambere, impande yaho hateretseho n'imashini, hakaba hagaragara umugabo wambaye agapira k'icyatsi, uri gufunga supaneti y'umurwayi mu gihe ari kumwitaho.

Abantu bahuriye mu nyubako aho abenshi muri bo harimo abagabo n'abagore batonze umurongo, hakaba hari kugenda hinjira umwe umwe aho muri iyo sale harimo ameza ariho igitambaro cy'umweru, hakaba hariho umusaza bari kwakira wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, aho bari kugenda babakira babagira inama zigiye zitandukanye ku mitekerereze yo mu mutwe n'uburwayi bwo mu mutwe.

Inzu yo kwa muganga aho hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abaforomo bambaye imyenda yabugenewe y'umweru, aho ku mpande zabo hagiye hariho abaje babagana bambaye udupfukamunwa bose, aho bari kugenda babapima niba baranduye icyorezo.

Inzu y'ubuvuzi aho igaragara nk'aho nta muntu urimo ariko hakaba ariho ameza akikijwe n'intebe z'umukara, ku mpande hakaba hariho n'izindi ntebe z'imifariso, aho bigezweho bigaragara yuko ari aho bakirira abana kugira ngo babashe kubahereza serivisi zitandukanye.

Abagabo n'abagore bicaye ku meza maremare y'ubururu, bakaba bicaye no ku ntebe z'ibyuma aho bambaye amakoti y'umukara, bakaba bari gutanga inama zigiye zitandukanye z'ukuntu bakirinda indwara zigiye zitandukanye, bakaba banabasha kuvugurura amavuriro rusange.

Akabati kagiye gafite etage zigiye zitandukanye, aho gateretseho imiti igi itandukanye y'ubwoko bugiye butandukanye, igiye ifite n'amabara agiye atandukanye aho harimo umutuku, ubururu, icyatsi, aho iyo miti igenda yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Inzu yo kwa muganga aho hagaragaraho umuforomo wambaye imyenda yabugenewe y'abaforomo itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu aho ku ruhande ari ku gatanda batwariraho abarwayi barembye hariho n'ahantu herekana ibyapa by'ahantu basohokera biri mu mabara y'ubururu hariho n'indi miryango igiye itandukanye.

Inzu yo kwa muganga ishinzwe gufata abantu ibizamini bandikiwe na muganga, aho hagarara hanze hari intebe ibaje mu mbaho yiciweho abagore bambaye imyenda y'imituku n'imihondo, bari kumwe n'abana babo bategereje kwinjira muri icyo cyumba kugira ngo, babe babafata ibizamini bigiye bitandukanye bandikiwe na muganga.

Ivuriro aho rigizwe n'umuryango umwe ku ruhande hariho intebe yakirirwa abantu baje muri iryo vuriro, hakaba hariho n'ikibaho cyanditswe mu magambo y'umweru aho cyanditswe ayo magambo akaba yanditswe mu rurimi rw'Icyongereza, aho ari ahantu hakirira abantu bakoze imyitozo ngororamubiri ariko bagize ibibazo runaka.

Umubyeyi wambaye agakanzu k'ubururu wambitse umwana we imyenda y'umweru wajyanye umwana we ku kigo nderabuzima, aho bari kumwe n'umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'amarineti n'agayunguruzo gatuma imisatsi yiwe udatarukira umwana, ari kwitabwaho n'umwana aho bagiye kumuhereza urukingo.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho hashyirwamo abarwayi bagiye batandukanye aho mo imbere hagaragara nk'aho harimo ibyuma bigiye bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, hakaba hariho n'agatanda umurwayi aryamamo na mudasobwa umuganga akoresha ari kwandika imyirondoro y'uwaje umugana.

Akabati ko kwa muganga gakoreshwa na muganga, aho kaba gakozwe mu byuma kakaba gapfutswe n'ibirahuri, aho umuganga ashyira ibisubizo byabonetse muri ako kabati, akanakifashisha abikamo imiti runaka, kugira ngo akomeze kwita ku bamugana neza.

Inzu yo kwa muganga igiye itandukanye aho harimo ibyumba bitandukanye, hakaba harimo n'utubati aho dukoreshwa mu kubika ibizamini bagiye bafata abarwayi bagiye babagana kugira ngo birinde kubivanga aho hateretseho n'ameza, hejuru yaho hariho mudasobwa ikoreshwa mu kubika amakuru y'abaje babagana.

Inzu yo kwa muganga isa nk'aho nta bantu bariho aho igizwe n'ubusitani aho abaje bagana iryo vuriro baruhukira, akaba ari inzu igeretse inshuro ebyiri ifite amadirishya abonerana, aho ikunda gukoreshwa mu gihe hagana abantu, kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi bwihuse banagirwe inama z'ukuntu bakwita ku buzima bwabo.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umukara z'ibyuma aho umwe wambaye akajire ka RBC imbere y'iwe hateretseho ameza hariho n'icyuma cy'umweru aho uri kugikoresha apima undi musaza mugenzi w'iwe uko umutima utera kugira ngo abashe kumenya uko yamwitaho anamubwira ukuntu ubuzima bwe buhagaze.

Inyubako yo kwa muganga aho iri ahantu hisanzuye hariho aho imodoka zaparika, aho abaje bagana bakicara, bicara ku ntebe z'umutuku, iyo nyubako ikaba isize irangi ritukura, aho inkingi zayo zisize irangi ry'ikigina, hakaba hariho n'icyapa kimanitse kivuga serivisi zitangwa kuri icyo Kigo Nderabuzima.

Ku kigo nderabuzima, aho imbere yacyo hari idarapo ry'igihugu ry'u Rwanda, aho hasa nk'aho hitabiriye abantu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, aho icyo kigo gifite amabati y'umutuku, kikaba gisize amarangi arimo umweru nikigina, aho abantu basa nk'abaje gushaka serivisi z'ubuvuzi, kugira ngo bavurwe, banatahe bameze neza.

Icyumba cy'aho bakirira abaje bagana ivuriro aho kigizwe n'intebe z'amabara atandukanye hakaba hariho ameza, hejuru hateretseho mudasobwa y'uwakira abaje bagana ibigo nderabuzima ariko hasa nk'aho hafunze kubera ko nta muntu n'umwe urimo kandi hakaba hariho n'udutebe dutoya tw'imisego na yo itandukanye kugira ngo zise n'abakurura ababagana.

Icyumba cyo kwa muganga, aho kigiye gifitemo amamashini agiye atandukanye, aho gifite amadirishya atabonerana, aho kigiye gifitemo n'ikibaho cy'umweru, aho bakoresha bandika indwara z'abagiye bagana ibyo bitaro.

Abantu bagiye batandukanya, aho biganjemo abagabo n'abagore, bari kumwe na padiri n'undi musirikare wambaye impuzankano y'abasirikare, aho bari kumwe n'abamansera, bakaba bari imbere y'inzu y'ababyeyi, bisa nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'uko bamaze guhabwa amahugurwa agiye atandukanye.

Inzu yo kwa muganga aho bakirira abana, ariko hasa nk'aho nta muntu urimo, ariko hakaba hagiye harimo amabara agiye atandukanye, hakaba ari n'igisimba kiri hasi, ariko k'igishushanyo kitagenda, gifite amabara agiye atandukanye, ku ruhande hariho n'intebe z'aho bakirira abantu babagana.

Inyubako igereritse gatatu yo kwa muganga, aho imbere yayo y'iyo nyubako hari icyapa kiranga cyerekana serivisi zitangwa muri iyo nyubako, aho muri iyo nyubako haparitsemo imodoka zigiye zitandukanye hagaragara y'uko, muri iyo nyubako hari abantu bagiye gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Icyapa kigaragaza yuko ibitaro winjiyemo ari ibya kabgayi, aho kigaragara cyanditswe mu ibara ry'umweru, n'imbere tukaba tubona abantu bagiye bitabiriye serivisi zigiye zitandukanye z'ibyo bitaro, aho bagiye kwivuza n'abandi bagiye mu kazi kabo kaburi munsi.

Ijambo ryo kwa muganga, aho rigizwe n'icyuma cy'umutuku, aho gifite amagambo agiye yandikishwa ibara ry'umutuku, aho imbere hariho umubyeyi uhetse umwana we, aho basa nk'abagiye kwitabira iryo vuriro, kugira ngo babashe kuba bahabwa serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi.

Inzu yo kwa muganga, aho bigaragara nk'aho nta muntu urimo, ikaba harimo intebe zibaje mu biti, aho zigeye zifite imifariso ifite amabara atandukanye, harimo ikigena n'ubururu, hejuru y'aho hakaba ariho n'ahandi hantu abantu bashobora kunyura, ikaba ifite na taburo ishushanyijeho inyoni n'ahantu abantu bakomeza banyura mu gihe baje kwitabira ibikorwa byabereye kuri iryo vuriro cyangwa kwivuza.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe aho gifite inzu itageretse kandi munsi y'iyo nzu hakaba harimo abantu bagiye batandukanye higanjemo abagabo n'abagore basa nk'aho baje kuri icyo kigo nderabuzima kugira ngo babe bahabwa serivisi z'ubuvuzi bwihuse.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru wambaye n'ibirahuri by'amaso aho ari kwita ku mugore uryamye ku gitanda cy'abarwayi, aho yambaye igitenge akaba ari kumusuzuma akoresheje imashini kari mu mutima kugira abashe kumenya ukuntu umutima we uri kugenda, abasha no kuba yanamugira inama n'imiti yafata.

Inzu yo kwa muganga isa nkaho nta muntu urimo ariko ikaba igizwe n'agatebe aho muganga yicara mu gihe ari kwita ku murwayi n'igitanda umurwayi aryamaho, kiri hejuru habo hakaba hari n'imashini imukorera ibizamini bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kumenya indwara yaba arwaye, ku ruhande rwabo hakaba hagiyeho n'izindi mashini zitandukanye zifasha uwo muganga kumenya uko yakwita kuri uwo waje umugana.

Abaforomokazi bambaye imyenda y'abaforomo yabugenewe, higanjemo udupira tw'ubururu n'amapantaro y'ubururu, aho bambaye n'udupfukamunwa, inyuma yabo hakaba handitsweho, ikigo bakorera kandi bakaba bagaragaza y'uko bishimiye akazi bakora ka buri munsi.

Inyubako yo kwa muganga aho hejuru handitsweho izina ryayo ryanditswe mu ibara ry'ubururu, aho imbere y'iryo vuriro haparitse amamodoka agiye atandukanye afite amabara atandukanye, aho hariho n'umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umutuku ari kwereka amamodoka aho akwiye kuba agenda guparika.

Umugabo uryamye ku gatanda wambaye agashati k'umweru n'ipantaro. Aho aryamye ku gatanda k'ubururu. Aho bari mu gitente cy'umweru, akaba yambaye agapfukamunwa n'ingofero y'umukara. Aho ari gufatwa amaraso n'umugore wambaye itaburiya y'umweru wabigenewe, kugirango arebe niba yaranduye icyorezo.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri, aho kuri ibyo bitanda bibiri biryamyemo umwana n'undi musaza ugeze mu zabukuru, aho musaza wambaye ikintu kimuhereza umwuka aho uwo mwana wambaye agapira k'umutuku kuruhande rwabo hariho amadirishya abonerana abafasha kugira babone umwuka akaba ariho n'imashini ziri kubafasha gukomeza kubarebera ubuzima bwabo.

Ibigo nderabuzima cyangwa amavuriro, ni inyubako zishyirwaho na Leta, kugira ngo abaturage babashe kubona serivisi z'ubuvuzi zibegereye, kugira ngo zibafashe kwirinda indwara, bagirwa inama ku ndwara cyangwa ibyorezo byateye, kugira ngo banahabwe serivisi z'ubuvuzi bwihuse, kugira ngo babashe kuvurwa indwara zitandukanye, kugira ngo barinde impfu za hato na hato.

Umukobwa uryamye ku gatanda wambaye agakanzu k'ubururu, aho akikijwe n'umugabo n'umugore bari kumwitaho kubera ko afite uburwayi bugiye butandukanye bakaba bari kumwitaho kugira ngo bamenye icyo arwaye babashe no kumwitaho kugira ngo bamenye uko bamuvura.

Inzu yo kwa muganga aho harimo abaganga babiri bombi bambaye amataburiya yera, bambaye n'udupfukamunwa ku munwa, aho bitegeye amaso ku mashini aho ibereka ibizamini byagiye bifatwa kuri uwo munsi, ibisubizo n'ukuntu bagenda banoza serivisi bakita ku babagana neza.

Inzu yo kwa muganga aho ku birahuri hariho amafoto y'abantu bambaye amarineti, mo imbere hakaba hariho utubati duteretseho amarineti, aho buri muntu aza akareba amarineti yifuza, akayereka muganga, akamufasha, akamugira inama z'ukuntu yayabona.

Ikigo nderabuzima cyangwa ivuriro aho bakirira abarwayi, hateretseho Mudasobwa y'uwakira abarwayi, hejuru hasizeho irangi ry'ubururu, mo imbere hakaba hasizemo irangi ry'umweru, hakaba hari ibyumba bakiriramo abarwayi, hakaba harimo n'udutanda twabo.

Inzu yo kwa muganga aho igizwe n'ameza maremare yandikishijweho ibara ry'umweru, aho handitswe y'uko abakeneye ubufasha baza kuri ayo meza bagahabwa ubufasha bugiye butandukanye, yaba kuri serivisi baba bahawe batishimiye, kugira ngo ibashe kuba yanozwa.

Abakecuru n'abasaza bambaye imyenda yiganjemo udupira tw'umuhondo n'udupira tw'ubururu aho abagabo bambaye n'amapantaro y'umukara, ababyeyi bakaba bambaye amajipo y'umutuku aho bahuriye ku kigo nderabuzima, bagiye guhabwa inama z'ukuntu bakirinda indwara zitandukanye aho bari mu cyumba gisize amarangi y'umweru na sima hasi.

Inzu yo kwa muganga aho igizwe n'ibirahuri bibonerana, aho ifite n'icyapa cy'umutuku gifite amagambo agiye yanyanditsemo aho kigaragaza yuko ari ikigonderabuzima cyakira abantu bafite indwara zandura byoroshye, aho bakira abantu bakabafasha kubagira inama, n'uburyo bakivura izo ndwara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini yita ku bantu, aho kibafasha mu kubavura imvune zigiye zitandukanye, akaba ari icyumba kirimo iyo mashini, ku ruhande hariho mudasobwa bareberamo ibisubizo byavuye muri iyo mashini, ku ruhande hakaba hariho n'amashusho agiye atandukanye, ku ruhande hariho n'isaha.

Icyumba gisize amarangi y'umukara aho harimo imashini ikoreshwa na muganga kugira afashe mu kwita ku barwayi, aho uwo muganga urimo yambaye itaburiya y'umweru, imbere yiwe hakaba hariho agatanda karyamaho abarwayi mu gihe bari guca muri icyo cyuma, kugira ngo babashe kuba babona indwara barwaye babashe no kubitaho.

Umugabo wambaye umupira w'kigina wambaye n'ama ekuteri, ufite icupa ribonerana ririmo amazi, ayo mazi akaba icupa riri ku munwa ayo mazi akaba ari kuyanywa, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza na nyuma y'uko arangije gukora imyitozo ngororamubiri, ako.

Ikigo nderabuzima kiri kubakwa n'abantu batandukanye higanjemo abagabo, harimo umwe wuriye urwego uri gukora ibijyanye n'insinga n'amashanyarazi hejuru, aho hari undi uri kumufasha akamwohererereza insinga, hari n'undi uri kubafasha imirimo kugira ngo ikigo nderabuzima kizabashe kuba gikora neza, kibashe no kwita ku bakigana.

Umuntu ufite umukono umwe, ukaba ufite n'ikintu kiyizengurutse hejuru, wakundaga gukoreshwa n'abantu bagize imvune akenshi z'amaguru, kugira ngo babashe kuba bava ahantu hamwe bajya ahandi, biboroheye, batarinze bajya mu kagare.

Umugabo n'umugore, aho umugabo wambaye imyenda y'imikara yicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yabo hateretse ibikapu bibiri byabo, umugabo akaba ari kunywa amazi, umugore ari kwinanura, bigaragaza yuko basoje gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, agomba kuba yambaye ga, kugira ngo zimufashe kuzana amabavu mu ntoki, kugira ngo yirinde kuzajya akomera mu kiganza, kandi afashe no kurinda kuba yagira imvune za hato na hato.

Umuhungu usutse ufite imisatsi wayirekuye uri mu cyumba cya siporo, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, aho hasi hagiye hateretseho ibyuma bigiye bitandukanye akoresha mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye imyenda y'imikara n'inkweto z'umukara.

Umukobwa uri mu cyumba, imbere yiwe hateretse akagurude karimo amazi kabonerana, uwo mukobwa akaba afite imisatsi miremire, wambaye agasengeri k'umukara gaciye n'agakora k'umukara, wicaye ahantu hasi, uri kugorora imitsi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Agasanduku gakunzwe gukoresha mu butabazi bwihuse, aho gakunzwe kuba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byakoreshwa mu gihe umuntu yaba agize imvune cyangwa yaba akomeretse bitunguranye. Aho hagiye harimo amavuta yo gusiga ku gisebe, amavuta yo gutuma umuntu arekera kuvirirana n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Umuti ugabanya ububabare harimo uwa jele, hari uwo basiga, hari n'uwa spray bapuriza ku mvune, aho iyo miti iri mu ducupa tw'umweru, amagambo akaba yandikishijwe mu ibara ry'umukara n'umutuku.

Umukobwa uri wenyine wambaye agasengeri k'ubururu uri kugorora imitsi, nyuma y'uko arangije gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari ahantu hisanzuye hanze hari umwuka kugira ngo bimufashe kugira ububabare bwa hato na hato bivuye ku myitozo ngororamubiri yakoze.

Umuganga w'umuzungu uri kwita ku murwayi w'umwirabura aho umurwayi we aryamye ku gatanda, umuzungu nawe agasa nk'uwicaye akaba ari kumuvura, imvune afite kugira abashe gukomeza kugira ubuzima buzira umuze. aho bari mu cyumba gisize irangi ry'umweru, umuganga akaba yambaye agapira k'ubururu n'umurwayi yambaye umupira w'umweru n'agakabutura gasa ubururu n'amasogisi y'umweru.

Akamashini k'umutuku kaba gafite amababa ane gafasha mu kuguruka kugira ngo kabashe kuba katwara imiti, kayayivana ahantu hamwe kayijyana ahandi kugira ngo habashe kubaho ubutabazi bwihuse kugira ngo umurwayi abashe kubona imiti mu buryo bwihuse kandi bunoze.

Umugabo wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara, aho ari mu nzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho ari guterura ibyuma bigiye bitandukanye bifite ibiro byinshi kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umwana w'umukobwa usa nk'ufite icyuma kigenda gikururuka hasi, aho hagiye hariho ibyuma bigiye bitandukanye by'ibiro bitandukanye. Aho agaragara nk'uri kugenda abisunika ari gukora imyitozo ngororamubiri bitandukanye, kugira akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umugabo uryamye ku gatanda k'umukara, aho akikijwe n'abandi bagabo babiri, baka bari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, bamugorora, aho ku ruhande rw'iwe hari n'undi mugore na we ukikijwe n'undi mugabo, uri kugenda umufasha gukora imyitozo ngororamubiri, na we ari kumugorora.

Umukobwa uri mu nzu, wambaye agasengeri gaciyemo hagati, gasa oranje, na kora y'umukara, uryamye ku kantu kameze nk'aka matera, uri kugorora imitsi inyuma y'imyitozo ngororamubiri yari arangije gukora, kugira ngo yirinde imvune za hato na hato, ku mpande z'iwe hakaba hari amavase arimo indabyo zitandukanye.

Umugabo wambaye agasengeri k'ikigina, uri gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze, yirinda kugirarira indwara za hato na hato, cyangwa imvune zatuma ubuzima bwe bujya mu kaga, kandi agakomeza kugirana imbaraga za buri munsi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru wicaje umurwayi we ku ntebe y'umukara wambaye itaburiya y'ubururu ufite icyuma baterura muri siporo, umganga akaba ari kwita ku murwayi wiwe amugira inama za siporo yakora kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga aho gisize ibara ry'umweru rigiye ririmo n'ibara ry'ubururu, aho harimo imashini yo kwa muganga yabugenewe, aho ireba umuntu uyiryamyemo, hakaba hariho agatanda kugira ngo ibashe kuba yamureba mu mubiri imenye n'uburwayi afite.

Umugore w'umuforomokazi aho imbere y'iwe ku meza hateretseho mudasobwa, akaba yambaye agapfukamunwa n'ikanzu yabugenewe y'abaforomokazi isa ubururu, imbere y'iwe hakaba hateretseho amakaye n'ikaramu, bisa nk'aho ari kwiga ku ndwara zigiye zitandukanye, ukuntu wazivura n'ukuntu wazirinda.

Umukobwa wicaye aho ari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye aho yambaye agasengeri k'umukara na kora y'umukara n'inkweto za oranje, aho imbere yiwe hateretse icupa ry'amazi ryamufasha mu gihe yuko yaba arangije gukora imyitozo ngororamubiri, yakifashisha ayo mazi kugira ngo yongere agarure ubuyanja.

Ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, harimo ibyuma udutapi n'udusume, n'icupa ry'amazi, ku ruhande rwaho hariho imbuto ziribwa nyuma y'uko urangije gukora iyo myitozo ngororamubiri, kugirango ubashe kugira imbaraga mu mubiri, binagufasha kurinda indwara, zitandukanye.

Agatanda gakoreshwa mu buvuzi, aho gafashwa mu guterura abantu bagize imvune, aho ako gatanda kaba gakozwe mu byuma, kakaba gafite n'imigozi y'imikara ifasha kuzirika uwo muntu uryamye kuri ako gatanda, kugira ngo atabasha kugwa, cyangwa kwinyeganyeza, mu gihe bari kumuvana ahantu hamwe bamujyana ahandi.

Umugabo wambaye agasengeri k'umukara n'agakabutura k'umukara wicaye hasi aho yambaye inkweto z'umutuku, usa nk'ufashe akaboko kamwe k'iburyo gafashe munsi y'ikirenge akandi gasa nk'agafashe ku mpfundiko, aho afite ububabare butandukanye buri mu ipfundiko, nyuma yuko arangije gukora imyitozo ngororamubiri.

Akagare k'abarwayi bafite ubumuga bwo kutagenda, aho gakunda gukoreshwa n'abantu bafite ibibazo by'amaguru, bibagora kuva ahantu hamwe hajya ahandi. Aho gakunda gukoreshwa, mu kugira ngo umuntu abashe kuva ahantu hamwe ajya ahandi, aho gafite amapine abiri, manini y'inyuma n'utundi tubiri dutoya turi imbere, n'intebe umuntu yicaraho ari kugenda, n'aho umuntu afata ari kumusunika.

Umukobwa uri mu cyumba wicaye hasi wambaye agakora k'ubururu n'agasengeri k'ubururu, ahari mu kugorora akora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo akomeze kwirinda indwara za hato na hato, akomezaze no kugira umubiri ukomeye.

Umugabo wambaye agapira k'ikigina n'agakoti k'umutuku, wateze ikiganza bari kumuhereza utunini tugiye dutandukanye nyuma y'uko arangije gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kuyihabwa n'umuntu wambaye agakoti k'umukara kugira ngo bimurinde kugira imvune za hato na hato.

Umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu na kora y'umukara, ufite telefone ku kaboko k'iburyo, ufite icupa ry'amazi, uri kunywa amazi nyuma yuko arangije gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye kugira ngo yirinde kuba yagira imvune za hato na hato.

Ibiganza bifashe agasahane kagiye kariho imbuto zigiye zitandukanye aho ariho avoka, pome, inyanya n'ibindi bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hariho inkweto za siporo, icupa ry'amazi n'umunzani bapimishaho ibiro by'umuntu n'akamatera umuntu yakifashisha mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Urubyiruko rutandukanye rwiganjemo abahungu n'abakobwa, aho bambaye impuzangano za croix rouge, aho hari umwe wicaye hasi uri kwerekana uko bakora ubutabazi bwihuse, mu gihe umuntu yaba ahuye n'ikibazo runaka.

Umuntu ufite ijage y'amazi uri gusuka ayo mazi mu kirahuri kibonerana n'ijage nayo ikaba ibonerana, ayo mazi akenshi akaba akunda gukoreshwa n'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kuguma afite amazi mu mubiri, ataza kugira ibibazo nyuma y'imyitozo ngororamubiri.

Ni igikapu cy'umutuku gikunda gukoreshwa mu butabazi bwihuse, aho kiba kigizwe n'udukoresho tugiye dutandukanye dukoreshwa mu butabazi bwihuse, aho harimo ibipfuko, imiti y'ibisebe, utumashini dupima uko umutima utera, aho bifasha umuntu kugira ngo abashe kuba yabona ubutabazi bwihuse, hatagira ibindi bibazo bivamo.

Umukobwa wambaye agasengenge k'ikigina, wafashe agatambaro ko kwihanagura yagashyize ku gitugu, aho afite icupa ry'amazi yashize ku munwa, akaba ari kunywa amazi, ari ahantu mu cyumba hijimye hari n'irangi ry'umukara.

Imashini yo kwa muganga ikunze gukoreshwa mu gihe bari gupima umurwayi waje ubagana, ikaba yifashishwa mu gupima indwara zo mu mutwe, aho yifashishwa na muganga kugirango ngo abashe kuba yamenya ikibazo umurwayi afite akamenya n'ukuntu yagikemura amuvura.

Umukobwa imbere ye hateretse mudasobwa ari kurebamo imyitozo ngororamubiri ari gukora, ah'imbere yiwe hateretseho n'icupa ry'amazi, akaba yicaye ku gatapi k'umukara, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo akomeze yirinde indwara za hato na hato akomeze kugira ubuzima bwiza.

Udushushanyo tugiye dutandukanye dushushanyije mu ibara ry'umweru, aho inyuma hasizeho ibara ry'ubururu, ryerekana uko umuntu akwiye kwita ku mubiri wiwe, nyuma yuko arangije gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye. Kugira ngo hirindwe kugira imvune za hato na hato.

Umugabo ufite ubwanwa butari bwinshi aho afite icupa ry'amazi ririmo amazi ashize ku munwa, aho aya mazi ari kugenda anyanywa buke buke nyuma yuko arangije gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye kugira abashe kuba yakomeza kugira ubuzima bwiza

Umugabo usa nk'usutamye wambaye isaha ku kaboko, wambaye n'agakabutura k'umukara, usa nk'uhagaze mu muhanda, aho asutamye asa nk'uwafashe ibiganza byombi yabikojeje ku mavi, aho asa nk'ufite uburibwe bugiye butandukanye muri iryo vi, ukeneye ubuvuzi bwihuse kugira ngo abe yakira ubwo bubabare.

Umugabo ugiye ufite ishashi irimo ibintu by'ubururu aho yabishyize ku kaboko k'ibumoso, ak'iburyo akabifatisha ku kaboko kugira abashe kuba byamuvura indwara zigiye zitandukanye akomeza agira ubuzima bwiza.

imishimiye igi guhuza amakipe atandukanye aho ikipe imwe isa nkaho iri kwishyushya aho yambaye amasengeri y'umweru afite amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara n'amakabutura y'umukara, aho bakikijwe n'abantu benshi biwiganjemo urubyiruko harimo abagabo n'abagore baje kwihera ijisho uwo mukino.

Umugabo usa nk'udafite icyo yambaye ku gatuza, aho yafatishije ukuboko kumwe yifatishije ku gatuza, akaba ari no mu cyumba gisize ibara ry'ubururu, aho ku kaboko kiwe yafatishije ku gatuza hariho utubande tugiye dufite amabara atandukanye, kugira ngo yerekane yuko uko kuboko gushobora kuba gufite imvune runaka.

Mu dushushanyo tugiye dutandukanye twerekana imyitozo ngororamubiri umuntu yakora itandukanye aho harimo akari kwirukanka, akari guterura ibyuma, akari kwigorora, akicaye hakaba hari n'amagambo yo mu cyongereza yandikishijwe ibara ry'umweru, hakaba inyuma yaho hariho ibara ry'icyatsi.

Umugabo impande yiwe hari amazi magari akaba yashyize ukuguru ku cyuma, akaba yafashe ku mano aho ari kugororera imitsi yo mu itako, kugira ngo abashe kuba yakwirinda imvune za hato na hato zaboneka nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu ufite ama ekuteri mu ijosi, ugaragara nk'ufite icupa ry'amazi aho ari kunywa amazi nyuma y'uko arangije gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, kugira ngo ayo mazi amufashe gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Umugabo wicaye hanze, aho akikijwe n'ibyatsi akaba yambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye imufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza akirinda no kugira indwara zatuma ubuzima bwewe bujya mu kaga.

Umugabo wambaye umupira w'ikigina, ufite gurude isa ubururu, uri kunywa amazi nyuma yuko arangije gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugumana imbaraga, kugira ngo abashe no gukomeza gukora imirimo itandukanye yo mu buzima bwiwe, akaba ari ahantu hisanzuye, impande yiwe hari ibiti bitanga umuyaga.

Agatanda gakoreshwa mu butabazi bwihuse, aho gafashwa mu guterura umuntu bamuvana ahantu hamwe bamujyana ahandi, mu gihe yaba yagize imvune itandukanye, aho ako gatanda gasa umuhondo kakaba gafite n'imigozi y'umukara, aho hagaragara hashushanyijweho abagabo babiri bambaye imyenda y'umutuku bashinzwe gukora ubutabazi bwihuse, bateruye umuntu kuri ako gatanda k'ubutabazi.

Icyumba cyo kwa muganga cyakirirwamo abarwayi bafite ibibazo by'imvune bakuye mu myitozo ngororamubiri, kiba kigizwe n'intebe umurwayi aryamaho, intebe umuganga yicaraho mu gihe ari kumusuzuma, Mudasobwa y'umuganga aho ashiramo ikibazo umurwayi afite, kugira ngo nagaruka kizabashe kwitabwaho, harimo n'utubati, harimo imiti, harimo n'itara, bimufasha kumumurikira kugira abashe gusuzuma umurwayi neza.

Imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu butabazi bwihuse, aho harimo imwe ifunze mu mashashi indi ikaba iri mu ducupa, hakaba harimo iyo bapuriza ku bisebe, iyo basigaho kugira ngo igisebe cyume vuba, hakaba hari n'iyo baguhereza y'ibinini kugira ngo ugabanye ububabare.

Umuganga wambaye itaburiya y'abaganga, aho afite akuma bakoresha bumva uko umutima utera ariko yakambaye mu ijosi, aho afite umupira bakina mu ntoki, akaba ari kureba muri kamera, asa nk'uri kugira inama abantu uko bakora siporo.

Umugabo wambaye agapira karimo amabara y'umweru y'uturongo n'ubururu ,akaba yambaye n'ipantaro y'ikigina, aho ari gufashwa n'umugore w'umuforomokazi uri mu cyumba, kugira amufashe kuba yakora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye ,kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima bwiza.

Umugore wambaye agashenete mu ijosi wambaye n'agashati k'umweru, ufite agatambaro k'ubururu uri kwihanagura ku maboko, ari kwirinda yuko hari indi myanda yaza kumujyaho mu gihe asoje imyitozo ngororamubiri kugira akomeze kurinda amagara yiwe.

Abagabo batatu higanjemo babiri basa nk'abarwana, umwe wambaye numero gatandatu mu mugongo imipira y'imituku n'amakasike y'umutuku, bambaye n'amakabutura y'umuhondo undi umwe wambaye numero kane mu mugongo n'umupira w'umweru n'agakabutura k'umuhondo na kasike y'umuhondo, aho bari gukina umukino bigengesereye kugirango baririnde kuvunana.

Umuganga uri mu cyumba ufite igikasike cy'umutuku, ku ruhande rw'iwe hakaba ari na kasike z'ubururu, impande ye hakaba ariho na kizimyamwoto, ikaba ari inzu isize amarangi icyumweru aha ari kwerekana uko izo kasike zikoreshwa mu buvuzi.

Umukobwa usa nk'uwicaye hasi ku gasambi k'ikigina, wambaye agasengeri k'umukara n'agakora k'ikigina, aho imbere yiwe hateretseho imashini iri kumwereka imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye akora, ku ruhande rwe hakaba hanateretseho icupa ry'amazi.

Umwana wambaye ikabutura y'ikingira n'agapira k'umweru wicaye kumeza, naho muganga uri kumuzirikiraho bande y'umweru, muganga akaba yambaye umupira w'umutuku, ku ruhande rw'iwe hari n'abandi bamutegereje, abari kwita ku mvune y'uwo mwana waje wavunitse ikirenge.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu n'agapira k'umweru mu imbere, imbere yiwe haryamye umurwayi akaba amuavunane anamugorora imitsi kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze, anirinde indwara za hato na hato.

Inkoni ikunda gukoreshwa n'abantu bafite ubumuga bugiye butandukanye cyane cyane abafite ubumuga bwo kutagenda cyangwa abafite imvune runaka aho iyo nkoni igizwe n'amapine ane agiye akoze uruziga, aho kazamukiraho n'aho umuntu afata mu gihe ari kugenda ava ahantu hamwe ajya ahandi.

Umukobwa uri ku mazi wambaye agasengeri k'umweru na kora y'icyatsi, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, aho yazamuye amaboko yiwe ari kugorora imitsi kugira ngo yirinde kugira imvune za hato na hato.

Umukobwa wicaye hasi wambaye agasengeri k'umukara na kora y'umukara, aho yambaye ama ekuteri mu matwi, akaba yambaye n'ikintu kirinda indwara zigiye zitandukanye ku maboko, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, aho anambaye n'inkweto z'umweru.

Udukarito tugiye dutandukanye duteretse hasi aho harimo udufunguye n'utudafunguye, aho muri utwo dukarito harimo uduti tugiye dutandukanye, harimo uducupa dusa umutuku, umweru tugiye dufite n'imifuka itandukanye, aho harimo iy'imituku n'iy'umweru, ifasha umurwayi kwivura indwara zigiye zitandukanye.

Urupapuro rushushanyijeho umutwe w'umuntu rugaragaza ubwonko, aho bigaragaza ibisubizo by'umuntu bakoreye ibizamini byo mu mutwe kugira ngo barebe ubuzima bw'iwe uko buhagaze babe babasha no kumugira inama ku buzima yabyitaho niba anarwaye indwara bazivura.

Umugabo wicaye ku ma esikariye, ufite terefone mu ntoki, witeze agasume k'umuhondo ku ijosi, aho yicaye ku ma esakariye, afite icupa ry'amazi yashize ku munwa, aho ari kunywa amazi nyuma y'uko arangije gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye.

Udukarito dutanu, tugiye dupanze mu buryo butandukanye, aho tunafite amabara atandukanye, aho harimo umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu n'umukara, dukoreshwa mu kuvura imvune zigiye zitandukanye, umuntu yaba yahuye nazo mu gihe ari gukora, imyitozo ngororamubiri.

Icupa ry'amavuta ry'umweru, rifite amagambo yandikishijweho y'ubururu, aho hariho ikiyoni kiri hejuru gifite ibara ry'ikigina, ayo mavuta ku ruhande rwaho hakaba hariho ibikomoka ku bimera, aho ibyo bimera aribyo bikoreshwa, mu gukora uwo muti wo kwisiga.

Uducupa tubiri dufite amabara agiye atandukanye, aho kamwe gafite amabara arimo oranje, akandi kakaba gafite amabara arimo ubururu, aho ayo magambo yandikishijwe ku macupa na ho agiye afite amabara atandukanye, harimo oranje n'ubururu, aho ayo mavuta akoreshwa mu kwita ku mubiri w'umuntu kugira ngo uwurinde kuzana ibiheri bigiye bitandukanye no kuba washishuka.

Umuti w'umuravumba ukomoka ku bimera aho ukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye aho harimo inkorora, ibicurane no kubabara umutwe kandi ukaba ukoreshwa no kwa muganga mu gihe umuntu yaba agiye afite ibibazo bigiye bitandukanye.

Imiti ipanze mu kabati, aho iyo miti iri mu ducupa dusa ubururu, twandikishijwe amagambo y'umukara, turi ku dupapuro tw'umweru, aho iyo miti iva ku bimera bisanzwe, ikaba ifasha abarwayi mu kwirinda cyangwa no kuvura indwara zisanzwe.

Ibihingwa bigiye bitandukanye aho harimo ibitoki, ibishyimbo bidatonoye, ibibabi by'ibijumba n'ibibabi by'ibishyimbo, aho bikunda gukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, bakanabikoresha kugira ngo umuntu abashe kuba yakira indwara zigiye zitandukanye.

Umugore uri mu murima wambaye ikanzu y'umweru, ufashe n'isakoshi ya shokora mu kuboko kw'ibumoso, uri kwerekana umusaruro wiwe yagize, aho muri uwo musaruro harimo ibitoki n'ibindi bimera bifasha gukorwamo imiti gakondo.

Amacupa menshi y'ibara ry'umuhondo, afite udufuniko twa shokora, agiye ari mu dukarito, aho harimo mu gakarito kamwe hagiye harimo amacupa menshi agiye atandukanye, ayo macupa akaba akomoka ku gikakarubamba. Akaba afasha mu kwita ku ruhu rw'umuntu.

Uduti tw'icyatsi tugiye duteye mu dushashi dutandukanye, aho muri buri gashashi k'umukara gateyemo uduti tubiri tw'icyatsi, aho utwo duti dufashwa mu gukoramo imiti gakondo, ifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Udusahane tugiye dutandukanye, tugiye turimo imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho utwo dusahane duteretse ku musambi, uwo musambi ku ruhande hakaba hagiye hariho n'indi miti gakondo igiye itandukanye, ikoreshwa mu buvuzi gakondo kugira ngo ivure, ibibazo bigiye bitandukany.

Uducupa dutandatu tw'umuti wo kwisiga dupanze ducuritse aho twandikishijwe amagambo y'ubururu dufasha mu kuvura umuntu mu bibazo by'uruhu kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Isahani iteretseho agacupa k'umweru gafite agapapuro ka oranje kagiye kandikishijweho amagambo y'umukara, inyuma yaho hakaba hariho imbuto zigiye zitandukanye hariho nk'umwembe, bikaba byerekana yuko ayo mavuta ari muri ako gacupa akomoka ku bimera by'umwembe.

Icupa ry'icyatsi rifite amagambo yandikishijwe mu izina ry'umuhondo, rifite n'umufuniko ubonerana, aho ku ruhande hariho igikakarubamba bigaragara yuko umuti uri muri iryo cupa rikomoka ku kimera k'igikakarubamba, kikaba gifasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Ishashi y'umuhondo aho imbere ifiteho ishusho ibonerana, aho mo imbere harimo ibyatsi bigiye bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi gakondo aho bifasha umuntu kugira ngo yivure indwara zigiye zitandukanye afite abashe kubaho neza.

Amacupa y'umuhondo afite amagambo yandikishijweho ibara ry'umukara, aho ayo macupa abiri afiteho igikakarubamba gishushanyijeho, akaba akikijwe n'ibindi bikarito bitatu, by'icyatsi bifite amagambo yanditseho y'umweru, aho ku ruhande rwaho hariho n'iyindi shashi y'umweru, ifite amagambo yandikishijweho ibara ry'umutuku.

Igiti giteye mu ishyamba, aho kigiye gifite indabo z'umweru, aho gikikijwe n'ibindi biti na byo bimeze nka cyo, na byo bifite indabo z'umweruru, aho bikunze gukoreshwa mu buvuzi gakondo, aho bakuramo imiti gakondo kugira ngo ibashe kuba yavura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti y'ibinini isa oranje, biba biri mu gakarito nako gasa umuhondo, harimo n'ibara ry'icyatsi, aho iyo miti ituruka kuri Aloe, ikaba ifasha umuntu kwita ku mubiri we, no gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ikarito cya move cyanditseho C9, aho gishushanyije umukobwa wambaye agasengeri k'umukara n'agakabutura k'umukara, aho yerekanwa yifashe ku bibero kugira berekane y'uko icyo gikarito gikoreshwa n'abakobwa.

Imbuto zisa orange zigiye zirushinze ku mababi aho zikunda gukoreshwa mu miti gakondo, zikaba zifasha mu kuvura indwara z'uruhu cyangwa n'amaso, mu gihe umurwayi yaba afite icyo kibazo, akaba yazikoresha kugira ngo yivure izo ndwara.

Igikakarubamba akenshi kikaba gikunze gukorwamo imiti itandukanye, aho gikorwamo imiti ivura uruhu, kivura ibisebe kivura gufasha amenyo kwera, kugira ngo gifashe abantu gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Amavuta akozwe mu gikakarubamba ahori mu gicupa cy'umweru, icyo gicupa kikaba gicuritse, amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi, hariho n'ifoto y'igikakarubamba rigaragaza ayo mavuta akozwe mu gikakarubamba, akaba afasha ku kwita ku ruhu rw'umuntu kugira ngo rutabasha gusaduka.

Amacupa abiri agiye atandukanye aho hagati y'aho harimo igikarito nacyo cy'umweru kigiye gifite amabara arimo umutuku ayo macupa abiri akaba agiye nayo afite amabara harimo ubururu n'icyatsi, aho ayo mavuta akoreshwa mu kwita ku buzima bw'uruhu rw'umuntu.

Ibyatsi biteye mu butaka aho harimo imiti igiye itandukanye yakoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho iyo miti yacishwa muri laboratware zigiye zitandukanye kugira ngo ifashe abantu kuba bakivura indwara zigiye zitandukanye.

Ikimera cy'ibihwagari aho gikunda gukorwamo amavuta yo gutekesha, amavuta yo kwisiga, aho kigaragara kirimo amababi yacyo, kandi kigakunda no gukoreshwamo umuti, ukunda gukoreshwa ku mubiri kugira ngo kiwurinde gusaduka.

Igicupa cy'umweru kigiye gifite amagambo atandukanye yanditswe mu rurimi rw'icyongereza, aho ayo magambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, akaba afashwe mu kiganza n'umuntu, mu gihe kuri iryo cupa ari igikakarubamba gikunze gukoreshwa mu kwita ku ruhu rw'umuntu.

Ishashi y'ubururu n'umweru aho bashushanyijeho ikirahuri bari gusukamo amata aho ifiteho amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo aho muri iyo shashi harimo ubufu bukoreshwa basuka mu mazi kugira ngo ayo mazi ahinduke amata wakoresha uri kunywa.

Akenshi mu buvuzi gakondo abavuzi gakondo bakunze gukoresha ibimera bikunda kuboneka mu mashyamba harimo: ibikakarubamba, imiravumba, kugira ngo bibafashe gukoramo imiti umuntu ashobora gukenera mu buzima bwa buri munsi kugira abashe kwivura indwara za hato na hato.

Icupa ry'umweru rikikijwe ku mpande n'ibara ry'umukara aho iryo cupa rifite amagambo agiye atandukanye yanditsweho aho ayo mavuta akunze gukoreshwa mu kwita ku mubiri bikawurinda gusaduka no kuzana izindi bibazo.

Umuti uri mu gikarito cy'umweru hasi hakaba hariho na orange nkeya yiganje ukaba uteretse ku meza y'umweru, inyuma hariho ibara ry'ubururu, ukaba ukomoka ku bimera bisanzwe by'ibibabi ubafasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibiti byinshi biteye mu gisambu kimwe, aho muri ibyo biti harimo ibiti bigiye bitandukanye birimo n'ibiti bikoreshwa mu buvuzi gakondo, twavugamo: igikakarubamba, umwenya, harimo na tangawizi bikoreshwa mu kwita ku murwayi.

Ibicupa bibiri byiganjemo iby'umweru n'iby'umuhondo, aho bifite amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, aho kuri ibyo bicupa hagiye hashushanyijeho igikakarubamba, bigaragara yuko amavuta arimo imbere akomoka ku gikakarubamba.

Igihuru kigaragaramo ibyatsi byinshi, aho harimo n'ibyagiye byuma, bigaragara yuko hadaheruka kugwa imvura kandi ibyo byatsi bishobora kuzagwa, nyuma yo kugwa hakazaba umwanda mwinshi, waturutse yuko ibyo byatsi byumye byabuze izuba.

Umuti abantu basiga ku minwa kugira ngo ubafashe kudashishuka iminwa, uri mu gakombe k'umweru kaza mu gakarito ari twinshi turi mu gakarito k'umweru n'umutuku, aho kaba gakomoka ku bimera bisanzwe kandi kakaba gafasha umuntu gukomeza kugira ubuzima bwiza yita ku minwa yiwe.

Agacupa k'umweru gateretse ahantu h'umweru kagiye gafite amagambo agiye atandukanye kandikishijwemo amabara y'ubururu, aho hejuru hariho icyiyoni riri mu mabara y'ikigina uwo muti ukaba ukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibyatsi bigiye bikorwamo imiti gakondo aho bigaragara nk'aho biri mu gasekuru. Aho harimo n'umwuko bisa nk'aho biri gusekurwa kugira bibashe kuba byahinduka ifu babashe kuba babikoresha nk'umuti uvura indwara runaka.

Amacupa y'umweru, harimo na rimwe ry'umuhondo, aho ayo macupa y'umweru ari amacupa atandatu, imbere yaho hateretse igikapurubamba, bigaragaza y'uko ayo macupa yose, imiti akoreshwa yiganjemo igikakarubamba.

Uducupa dutatu tw'umweru duteretse ku meza, inyuma yaho hariho ijage, iteretsemo indi miti imeze nk'ubufu, isa umweruru aho ikorwa mu bimera bisanzwe nk'ibyatsi, ikaba ifasha umuntu kwirinda indwara cyangwa no kuvura indwara runaka.

Umuti uri mu gacura k'umweru aho ugiye ufite amagambo atandukanye yanditswe mu kirimi cy'icyongereza ayo magambo akaba asa umutuku aho harihoho n'ikiyoni cya kagoma, aho uwo muti ukoreshwa kuba wakisiga ku minwa kugira ngo urinde iminwa kuba yashishuka.

Amavuta ari mu gacupa k'ubururu, hari n'ayandi ari mu gacupa ka purasitike gafite umufuniko w'ubururu ariko icupa hasi rikaba risa umweru, aho ayo mavuta afashwa mu gutuma umubiri uguma utemba itoto kandi utagira ibibazo byo kubura amazi.

Icupa ry'ubururu riteretse ku meza, aho rifite ibara ry'ubururu rikaba rifite n'agafuniko k'icyatsi, kuri iryo icupa hakaba hashushanyijeho igikakarubamba bigaraga yuko umuti urimo imbere ukozwe mu gikakarubamba, kuri urwo rupapuro hakaba hariho na nimero za telefone wahamagara mu gihe waba ukeneye gukoresha uwo muti.

Agacupa k'umweru kandikishijweho amabara agiye atandukanye harimo ubururu, icyatsi, aho ayo magambo agenda avuga icyo ayo mavuta agiye akozwemo, hakaba havugwamo yuko ayo mavuta akomoka ku bimera bisanzwe.

Imiti gakondo igiye itandukanye, ikomoka ku bimera, aho igiye iteye bitandukanye, ikaba inapanze bitandukanye, aho muri iyo miti, hakaba harimo igikakarubamba, umuravumba, umwenya, aho bikunzwe gufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Igihingwa gifite amababi menshi, giteye mu butaka ahantu hisanzuye harasira izuba, haboneka n'umuyaga, aho icyo giti cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, ifasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Imbuto zigiye zitandukanye, aho ziteretse ahantu hasa umweru, aho harimo izikase n'izidakaze, harimo izisa oranje n'izisa icyatsi, aho zifasha umuntu kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze, kandi akomeze no kwita ku buzima bwe bwa buri munsi.

Umugore wambaye agatambaro k'umweru mu mutwe wambaye n'ikanzu y'umutuku, aho akikijwe n'abandi bantu bagiye batandukanye, imbere yiwe hakaba hari umugabo usa nk'uri kumusobanurira imiti acuruza ikomoka ku bimera bisanzwe, ivura indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa y'umweru agiye atandukanye, aho afite udupapuro tugiye turi mu mabara atandukanye, aho harimo utw'umutuku, n'utw'ubururu, ku ruhande hakaba hagiye hariho n'ibikombe bigiye bitandukanye nk'indabo, inyuma hakaba hariho umutiba ugiye uriho inzuki, bigaragara yuko havamo ubuki.

Mu miti itandukanye gakondo, ituruka ku bimera bitandukanye, harimo igikakarubamba, imiravumba n'indi itandukanye, iyo yavuye mu ruganda, iba irimo uducupa dutandukanye, harimo uducupa tw'umweru, utw'imihondo, utw'imituku, tugiye dufite n'imifuniko itandukanye yayo macupa y'umutuku afite imifuniko y'umutuku, amacupa y'umuhondo akaba afite n'iy'umukara, bikaba bifasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti igiye itandukanwe ikoresha mu buvuzi bwa gakondo, aho iyo miti ikomoka ku bimera bigiye biteye mu mashyamba, aho iyo miti igiye ifite n'amabara atandukanye, aho harimo ay'imihondo, imituku n'icyatsi.

Abagabo bagiye batandukanye, aho bari mu karima k'igikoni bateyemo imiti gakondo, izakoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, muri icyo cyumba kiteyemo iyo miti, hakaba harimo urubyiruko rugiye rutandukanye, rwiganjemo abagabo n'abagore.

Icupa ry'umweru ryandikishijwemo amabara atandukanye harimo umutuku, umukara n'ikigina, aho iryo cupa mo mbere rigiye ririmo imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi, aho ifasha umuntu kumuvura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa tubiri harimo kamwe gasa umuhondo, n'akandi gasa umweru wijimye mo ukuntu, dufite imifuka igiye itandukanye, aho imbere yaho hariho n'ibimera bigiye bitandukanye, bigaragazwa yuko bikozwe muri utwo ducupa, aho byose biteretse ku kameza k'imbaho.

Umuti uri mu gacupa k'umweru ufite agapapuro k'umutuku kariho amagambo yandikishije umweru aho inyuma hariho umugabo n'umugore hanyuma uwo muti ukaba uvura ukurangiza vuba no gucika intege mu gihe cy'abashakanye bari gukora imibonano mpuzabitsina.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye tw'umweru, aho dufite amabara agiye atandukanye, aho harimo utw'ubururu utw'icyatsi, kuruhande hakaba hariho n'udukarito tundi tugiye dutandukanye, twanditseho umubare cumi n'umunani wanditse mu kigina, utwo ducupa n'utwo dukarito, tukaba dufite igikona kiri hejuru gisa oranje.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, imbere y'iwe hateretse imiti itandukanye inyuma naho hakaba hari n'akabati karimo naho imiti itandukanye, aho uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru uri kureba ibisubizo byavuye mu bizamini yafashe umurwayi.

Imiti gakondo imwe iba ipfunyitse mu ducupa twa parasitike indi iri mu ducupa tw'ibirahuri imeneka, utundi tuba turi mu gikarito utundi tuba turi mu ducupa twa parasitiki dutoya dufite imifuniko itukura aho ivura indwara zitandukanye.